Abana bagiye kuvoma amazi, bafite amabuni yo kuyatwaramo kugira ngo babashe kubona ayo koga, ayo gutekesha n'ayo gukora isuku mu ngo zabo batuyemo.

Umuganga witabiriye igikorwa cy'ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima mu Rwanda RBC, aho bari gushishikariza abaturage kwirinda no kurwanya indwara ziterwa n'umwanda ndetse n'ibyorezo bitandukanye.

Umuco wo gukaraba intoki tugomba kuwigisha abana batoya kugira ngo babikurane bajye bakaraba intoki bavuye ku bwiherero cyangwa bamaze gukora mu myanda itandukanye, abana ibi babyigishirizwa mu mashuri aho biga ndetse no mu ngo zabo.

Itsinda ry'abaganga bari kumwe n'abarwayi, aho bari kubasuzuma kugira ngo babavure indwara zitandukanye, zirimo Malariya cyangwa se zirimo no kugira indwara z'umuvuduko w'amaraso.

Abana batoya bari gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe bakoresheje amazi meza n'isabune nk'uko babyigishijwe, haba ku mashuri cyangwa se n'ababyeyi babo kugira ngo bajye babikora biririnde indwara ziterwa n'umwanda.

Ikiganiro hagati y'abayobozi batandukanye bafatanyije n'inzego z'umutekano zirimo polisi, aho bari kugira inama abaturage, uko bafata ingamba zo kwirinda ibyorezo bitandukanye kandi bakareka no gukoresha ibiyobyabwenge birimo nka kanyanga n'urumogi.

Abayobozi batandukanye bashinzwe ubuzima mu Rwanda, aho bicaye ku ntebe bari mu nama, imbere yabo hatetse n'amazi yo kunywa ndetse n'amakayi yo kwandikamo ibitekerezo biri butangwe mu nama kugira ngo bazabikusanyirize hamwe, babashe kubitanga mu bayobozi bakuru, bazabyifashishe mu gukora ubushakashatsi.

Gukoresha kandagira ukarabe ni igikorwa cy'ingenzi cyane mu gihe umuntu avuye ku bwiherero, kuko abasha gukaraba imyanda yose yaba avanyeyo kugira ngo ataza kuyisiga bagenzi be, hakabaho ikwirakwiza ry'imyanda iva ku muntu umwe igera ku wundi.

Ababyeyi bashishikarizwa gutekera abana babo mu miryango aho baba. Bakabagaburira ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri birimo imboga, bikabamo imbuto zo kurya kugira abana babashe gukura bafite ubuzima bwiza kandi bagira ubwenge no mu mashuri bigamo.

Abaturage begerejwe amavomero, ubu basigaye bavoma amazi meza, abana bato baroga, bamesa imyenda yabo, mu ngo batekesha amazi meza, abantu bose basigaye bagira isuku, indwara zaterwaga n'umwanda zaragabanutse.

Itsinda ry'abaturage barimo batera imboga mu karima k'igikoni kugira ngo umuturage bari ku kukubakira ajye abasha kurya imboga, agire ubuzima bwiza kandi azibone bitamugoye kuko kuzigura mu isoko usanga bihenze cyane.

Aaturage bafite n'ibidomoro, aho bagiye ku mariba guhiga amazi yo gukoresha mu ngo kugira ngo babashe kubona ayo koga, ayo gutekesha cyangwa gukora isuku yo ku bikoresho byabo ndetse n'imyambaro.

Kuganira hagati y'abantu bakuze bibafasha kubohoka, kudaheranwa n'agahinda cyangwa kwigunga, bakumva batekanye kandi ibi ngibi bikabarinda ingaruka zitandukanye, zirimo no gutekereza kwiyahura cyangwa gukora ibindi bikorwa.

Ababyeyi bafite abana bakiri batoya, bitabira ibikorwa byo kubakingiza kwa muganga, ndetse no kubasuzumisha kugira ngo harebwe uko ubuzima bw'abana buhagaze, bityo nibasanga butarimo bugenda neza, ababyeyi bahabwe imfashabere kugira ngo abana babo bakure neza.

Umwana mutoya uri kuvoma amazi ku mugezi yifashishije igikombe kugira ngo abashe kubona ayo kunywa, abantu bashishikarizwa kunywa amazi meza bakareka gukoresha amazi yo mu biyaga cyangwa mu migezi kuko aba arimo imyanda myinshi.

Umuturage wagiye kuvoma amazi meza yo kunywa ku iriba bubakiwe n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda, kugira ngo bajye bakoresha amazi meza haba mu kuyanywa, kuyatekesha ndetse no kuyoga.

Umwana muto uri kuvoma amazi yo mu kigega akoresheje igikombe kugira ngo ayanywe, abantu bashishikarizwa kunywa amazi meza ndetse bikaba akarusho igihe babanje kuyacanira bakayateka kugira ngo imyanda ipfe.

Umwana mutoya uri kunywa amazi aturuka ku iriba ry'ikoranabuhanga bubakiwe n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda ariko si byiza kunywa amazi adatetse kuko uko yaba ari meza kose yagutera indwara.

Ihuriro ry'abaturage benshi, baje kwitabira igikorwa cyateguwe na minisiteri ishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC, kirimo kugira abantu inama zitandukanye, kubasuzuma ndetse no kubaha inkingo zibafasha kwirinda indwara z'ibyorezo.

Umwana muto agiye kuvoma, afite indobo yavomyemo amazi, kandi nawe ari kunywa amazi, akoresheje ibiganza bye. Ariko ntago aribyo na gato, kubera ko umuntu agomba kunywa amazi, akoresheje igikombe kandi gisa neza, kuko intoki zikunze kuba ziriho imyanda.

Abayobozi b'Inzego za Leta zirimo Imirenge n'Uturere, bajya bahugurwa ku bijyanye no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, binyuze mu kubereka ibikorwa bashobora gufata, bityo bakorohereza abaturage kubona ubwishingizi mu kwivuza, hose bakajya babasha kugera kwa muganga kandi bagahabwa imiti ku kiguzi kiboroheye.

Umuntu uri gukaraba intoki akoresheje amazi meza n'isabune kuri kandagira ukarabe kugira ngo yirinde kugira imyanda ijya mu ntoki ye kandi yimakaze igikorwa cy'isuku.

Mu rwego rwo kwita ku buzima bw'abana bakiri batoya, ubuyobozi bukuru bw'Igihugu cy'u Rwanda, bwafashe ingamba yuko abana biga mu mashuri abanza, bazaza bafatira amafunguro ku ishuri, agizwe n'akawunga, ibishyimbo ndetse n'imboga rwatsi.

Abajyanama b'ubuzima, n'abaganga babihuguriwe, baramanuka bakajya mu baturage mu cyaro bakabegera bakabahugura, kandi bakiyemeza no kubafasha, mu bibazo bahura nabyo bitandukanye by'ubuzima, kugira ngo buri wese abashe kwisanzura, kandi yivuze ku buryo bworoshye.

Abantu bose bagomba guhagurukira kurwanya indwara ya SIDA kuko igihari nta hantu yagiye. Hari abasore bajya kwa muganga bakagana abaganga ndetse n'abaforomokazi bakabegera bakabapima indwara ya SIDA kugira ngo nibasanga bayirwaye babahe n'ubujyanama bwo gufata imiti.

Inama yahuje abayobozi batandukanye, harimo n'umuyobozi mukuru ushinzwe ubuzima hano mu Rwanda Dogiteri Sabin Nsanzimana, aho yifatanyije n'abanyamahanga n'abandi bayobozi mu kwizihiza no gufata ingamba zibangamira imibereho myiza y'abaturarwanda.

Abaturage batuye mu cyaro ni bamwe mu bahugurwa n'abayobozi bakuru, kugira ngo bababwire ibigenderwaho mu kugira ngo barengere ubuzima bwiza kandi bashishikarize na bagenzi babo guharanira kugira ubuzima bwiza, babinyujije mu bikorwa bitandukanye birimo no kwishyura ubwishingizi mu kwivuza.

Unicefu ni ikigo gishinzwe kwita ku buzima no kurengera imibereho y'abana bo mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, cyangwa byashegeshwe n'intambara, aho babagenera ibikoresho bitandukanye, harimo n'ibikoresho byo kwifashisha mu kugira isuku.

Abaturage bitabiriye inama bari kumwe n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze, bari kurebera hamwe icyatuma bagira ubuzima bwiza babinyujije mu bikorwa bakora bya buri munsi; birimo no gutanga ubwisungane mu kwivuza.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, yahuriye mu nama na bagenzi be barimo abaminisitiri n'abandi bayobozi, hagamijwe kwiga ku kibazo kijyanye n'ubuzima, barebera hamwe ibyibasira abantu bikanabatera ibibazo bitandukanye birimo n'urupfu, ndetse n'ukuntu babifatira ingamba buri wese akabasha kwivuza ku buryo bworoshye.

Gukaraba intoki hakoreshejwe amazi meza ni bimwe mu bidufasha kwirinda indwara ziterwa n'umwanda zirimo impiswi, abantu bashishikarizwa gukaraba intoki igihe bavuye ku bwiherero, bamaze gukora mu myanda itandukanye cyangwa bagiye gutegura amafunguro.

Aabyeyi bashishikarizwa kujyana abana babo ku bajyanama b'ubuzima cyangwa kwa muganga kugira ngo basuzumwe indwara zitandukanye kandi bahabwe imfashabere, zirimo n'amata yo kunywa maze bakure neza.

Ikigo gishinzwe guharanira no kwita ku magara y'abana batoya UNICEF, ni kimwe mu gifasha abakobwa, mu kubaha ibikoresho byo kwifashisha mu gukora isuku, igihe bagiye mu gihe cy'uburumbuke cyabo kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Ababyeyi bafite abana bakiri batoya bashishikarizwa kubajyana kwa muganga, kugira ngo basuzumwe kandi baterwe inkingo zibarinda indwara z'ibyorezo bitandukanye bikunze kwibasira abana, harimo nk'iseru, imbasa ndetse n'izindi ndwara.

Abana batoya bicaye mu ishuri, aho umwarimu ari kubabaza ibibazo, ubundi bagatera intoki kugira ngo bamusubize. Abana bato bagira ikinyabupfura cyane, niyo mpamvu iyo bagiye gusubiza babanza gusaba ijambo bagatera intoki nk'uko baba barabyigishijwe.

Inama yahuje umuyobozi mukuru ushinzwe ubuzima mu Rwanda Sabin Nsanzimana afatanyije n'abandi bayobozi, bagamije kwigira hamwe ibintu bibangamira ubuzima bwiza bw'Abaturarwanda no kubishakira ibisubizo.

Abana bakiri batoya bari gukaraba intoki ariko bibagiwe gukoresha isabune. Si byiza gukaraba intoki n'amazi gusa ahubwo twagakwiriye gushaka n'isabune kuko ibasha kwica udukoko tuba duturukanye ku bwiherero.

Abana batatu bahagaze impande ya kandagira ukarabe, bari gukaraba intoki bakoresheje amazi meza n'isabune, kugira ngo batagumana imyanda ku ntoki zabo, bakaba bayisiga abantu bagiye gusuhuza. Iyi mico bayitojwe n'ababyeyi ndetse no ku mashuri aho bigira.

Ikigo gishinzwe guharanira no kwita ku buzima bw'abana bakiri batoya Unicefu, gikorera mu bihugu byose bigize Isi kandi kigafasha abakiri batoya binyuze mu kubarihira ishuri no kubaha ibikoresho bitandukanye bakifashisha kugira ngo barusheho kugira isuku kandi bagire ubuzima bwiza.

Itsinda ry'abagabo n'abagore ndetse n'urubyiruko, rwitabiriye igikorwa cy'amahugurwa bari guhabwa n'abajyanama mu by'ubuzima, kugira ngo babigishe uko bakwita ku bana babo, kandi babigishe uko barwanya indwara zitandukanye zirimo na kanseri y'ibere, ikunze kwibasira ab'igitsina gore.

Abaturage bubakiwe amariba rusange azana amazi meza, aho usanga abana n'abakuru bagiye kuvoma kugira ngo ngo babashe kubona amazi yo koga no kogesha ibikoresho, kandi byazamuye urwego rw'isuku mu muryango mugari.

Umugabo wicaye ku mugezi afite n'injerekani, aho yagiye gushaka amazi yo kunywa, gukoresha isuku yo mu rugo cyangwa se kwita kubana be kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abana b'abanyeshuri bari kunywa amazi bakoresheje uburyo butari bwo, kuko bari gutega intoki akaba ari zo banyweraho kandi intoki zikunze kuba zifite imyanda. Abantu bagomba kunywa amazi bakoresheje igikombe cyangwa ikirahure cyogeje.

Abakobwa babiri bahagaze ku mugezi bafite indobo bagiye kuvomeramo amazi kugira ngo babashe kubona ayo guteka n'ayo kogesha ibikoresho byo mu ngo batunze, kandi basagure n'ayo koga ku mubiri, kugira ngo bimakaze isuku banarwanye indwara ziterwa n'umwanda.

Umwana muto cyane uri gukaraba intoki akoresheje amazi meza, aherereye ku kigo cy'amashuri kuko babigisha umuco wo gukaraba intoki no kugira isuku kugira ngo bawukurane bajye babikora no mu ngo zabo aho batuye.

Ababyeyi bashishikarizwa kujyana abana babo kwa muganga kugira ngo basuzumwe kandi bahabwe inkingo zibarinda indwara zitandukanye, zirimo ibyorezo bikunze kwibasira abakiri batoya, gusuzumisha abana bifasha ababyeyi kumenya ubuzima bwabo.

Umwana mutoya wagiye kuvoma amazi mu kiyaga, afite injerekani kugira ngo abashe kubona ayo koga cyangwa gutekesha mu rugo, ubuyobozi bw'u Rwanda bugira inama abantu kwirinda kuvoma amazi yo mu biyaga kuko bashobora guhura n'ingaruka zitandukanye, zirimo kurohama cyangwa kuribwa n'ingona.

Nyuma yuko abaturage begerejwe amavomero, igikorwa kijyanye n'isuku cyarazamutse ku kigero kingana na mirongo inani ku ijana kuko basigaye bitabira ibikorwa birimo kumesa imyenda, ndetse bakifashisha n'aya mazi boza abana babo. Ubu nta mwana ukirwara amaga, cyangwa amavunja kubera yuko twimakaje isuku.

Umugore uhetse umwana ari koza ibikoresho byo mu rugo birimo indobo, aho yajyanye n'imyenda kumesa ariko ukabona ko ari kuvunika cyane. Abagore bagira uruhare rukomeye cyane mu guteza imbere isuku yo mu rugo.

Abakorera ku kigo nderabuzima cya Mayange giherereye mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda, bifatanyirije hamwe maze bakira umuyobozi uturuka mu bihugu by'amahanga aho yari yaje gusura ikigo nderabuzima cya bo.

Abayobozi batandukanye bafatanyije n'inzego z'ibanze bakora inama zigamije kurebera hamwe ibintu bibangamira imibereho myiza, birimo gukoresha ibiyobyabwenge nk'urumogi, cyangwa za kanyanga ubundi bakanabirwanya.

Imbangukiragutabara ni imodoka yirukanka cyane, ishinzwe kugeza abarwayi kwa muganga kugira ngo bahabwe ubufasha hakiri kare, ubuzima bwabo butarajya mu kaga ngo bibe byateza ingaruka zirimo n'urupfu.

Amavomero rusange azana amazi meza yubakiwe abaturage, abafasha mu bikorwa byo kugira isuku ku mibiri yabo, ku myambaro bambara ndetse n'ibikoresho bakoresha mu ngo, birimo n'ibyombo, amasahane n'inkono batekamo.

Hirya no hino mu gihugu hajya haba ubukangurambaga n'inama zihuza abiganjemo urubyiruko n'abayobozi, hagamijwe mu kubagira inama no kubashishikariza kwirinda indwara zibasira abantu harimo nka virusi itera SIDA.

Hari abantu batandukanye bashyigikira imibereho myiza y'abana bakiri batoya, barimo n'abahanzi nk'uwitwa Israel Mbonyicyambu, uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza, umwe mu bateye inkunga imibereho myiza y'abana akoresheje amafaranga ye.

Umugore n'umugabo bagiye ku mujyanama w'ubuzima kwivuza kugira ngo bamuganirire ibibazo bahuye na byo, ubundi abashe kubafasha cyangwa se abahe imiti, baba barahawe n'ibigo by'ubuzima.

Iyi inama yahuje abayobozi batandukanye bagamije kwigira hamwe ikibazo cy'ukuntu bazamura ireme ry'ubuzima bwiza, hagati y'abaturage batuye igihugu cy'u Rwanda binyuze mu kubafasha mu kwishyura ubwisungane mu kwivuza.

Abaturage bagiye kwa muganga kwivuza, batonze umurongo kugira ngo bategereze ubufasha bahabwa na ba muganga, ariko bari no kuganira ku bibazo bitandukanye bagiye bafite.

Abahanzi nabo bafite uruhare mu kurengera ubuzima bw'abana bakiri batoya. Aho umuramyi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Isirael Mbonyi yashyigikiye agatera inkunga abana bakiri batoya mu rwego rwo kubitaho kugira ngo bakure neza.

Gira ubuzima ni gahunda y'Ikigo cy'Igihugu cy'Ubuzima mu Rwanda, aho cyubatse inyubako zitandukanye, kigashyiramo abakozi bashinzwe gusobanurira abaturage ukuntu bakora isuku, bakarwanya indwara ziterwa n'umwanda.

Umuturage wagiye kwivuriza ku mujyanama w'ubuzima, aho yicaye ari kumuganiriza uko umwana we arwaye kuko yagiye kumuvuza, umujyanama w'ubuzima na we arimo amubaza ibimenyetso by'umwana kugira ngo barebe uko bamuvura.

Itsinda ry'abaganga barimo abasore n'abahungu bambaye n'impuzankano, aho imbere yabo hateretse imiti yifashishwa mu kuvura abarwayi kwa muganga, kugira ngo bagabanye indwara zibasira abagize umuryango mugari nyarwanda.

Abana bakiri batoya bagomba gukaraba intoki bakoresheje amazi meza n'isabune, igihe bavuye ku bwiherero, kugira ngo badatwara imyanda bavanyeyo, bagasuhuzanya n'abandi bana bakayibasiga. Ababyeyi nabo bagomba kubaka kandagira ukaraba iruhande rw'ubwiherero, kugira ngo umuntu wese uvuyeyo ajye akaraba.

Hirya no hino mu miryango migari Nyarwanda, abaturage begerejwe amazi meza yo kunywa aho usanga bajya kuyavoma kugira ngo babashe kubona ayo kunywa mu rugo, ayo gukoresha isuku yo mu rugo ndetse no koga ku mubiri wabo kugira ngo twimakaze ibikorwa by'isuku.

Abana batatu bicaranye n'umubyeyi wabo, ariko batishimye habe na gato kubera ibibazo bagiye bahura nabyo, birimo no gutakaza no kubura abantu bakundaga, bityo bagirwariwe inama yo kwihangana kandi bagakomera.

Inama yahuje abayobozi batandukanye ndetse n'inzego z'ibanze, hagamijwe kugira inama abaturage kugira ngo barusheho gutanga ubwisungane mu kwivuza kandi birinde gukoresha ibiyobyabwenge n'ibisindisha kuko bibangamira imibereho myiza yabo.

Ikigo gishinzwe kurengera ubuzima bw'abana bakiri bato no kwita ku magara yabo Unicef, kibikora cyifashishije ibikorwa bitandukanye birimo kubagenera imfashamirire, aho bayihereza ibihugu byashegeshwe n'intambara cyangwa ibikiri mu nzira y'amajyambere, harimo n'igihugu cy'u Rwanda.

Umubyeyi bajyanye umwana we kumuvuza kwa muganga kugira ngo bamukurikirane barebe indwara yaba afite, ubundi bamuhe imiti. Muganga na we yambaye impuzankano ndetse n'uturindantoki arimo arafata urushinge kugira ngo abashe kumusuzuma ubundi amuvure.

Abana bane bagiye gushaka amazi meza yo gutekesha no kunywa ku mugezi, kugira ngo barusheho kugira isuku, bimakaze iterambere ryabo rizira indwara ziterwa n'umwanda.

Abana bakiri batoya bicaye ku ruziga bari kuganirizwa n'umuzungu ukomoka mu bihugu by'amahanga kugira ngo abereke ko abitayeho, aho yabageneye n'ibikoresho bitandukanye, birimo ibyo gukoresha bakora isuku.

Abana batoya bagomba gushishikarizwa kutanywa amazi yo mu bidendezi no mu biyaga, cyangwa ngo bajye kuyidumbaguzamo kuko usanga abamo imyanda myinshi, iyo imvura iguye ishokana imyanda yose ikayimanura ikayijyana mu kabande mu migezi, ni yo mpamvu amazi yo mu migezi aba yanduye cyane.

Hari abantu bakigaragara bakoresha amazi yo mu biyaga no mu migezi, aho bayoga, bakayatekesha cyangwa bakayogesha ibikoresho bitandukanye, birimo n'amagare yabo ariko ibi si byiza kuko bishobora kubagiraho ingaruka, zirimo kuribwa n'ingona zikunze kuba mu mazi no mu migezi.

Umwana mutoya uri gukaraba intoki akoresheje amazi meza n'isabune, ku buryo ashaka gusukura intoki ze imyanda akayikuraho, ababyeyi bashishikariza abana babo gukaraba intoki igihe bavuye ku bwiherero.

Abaganga babiri bambaye impuzankano, udupfukamunwa, uturinda ntoki ndetse n'ingofero, bari gusuzuma umurwayi kandi bamuvura icyorezo ariko bambaye imyenda bitwikiriye kugira ngo atakibanduza.

Abagore ni abantu bitaweho cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'isi yose, kuko nabo ubu basigaye baratejwe imbere hashingiwe mu kubaha imirimo mu bigo bya Leta ndetse n'abikorera kugira ngo bizihize amahirwe bari barabujijwe kera mu myaka yo hambere.

Umuyobozi ukora mu kigo gishinzwe ubuzima hano mu Rwanda RBC, uri gutanga ikiganiro ageza ku baturage inama kandi anabungura ibitekerezo by'ukuntu nabo bazana amafaranga yabo bakayashora mu buvuzi kugira ngo igihugu kirusheho kugira abaturage bafite ubuzima bwiza bw'ejo hazaza.

Umwana mutoya uri kuvoma amazi ku iriba akoresheje igikombe kugira ngo abashe kubona ayo kunywa, abantu bashishikarizwa kunywa amazi meza kugira ngo birinde indwara ziterwa n'umwanda zirimo n'impiswi.

Abana bakiri batoya ntibagomba gukoreshwa imirimo ivunanye, harimo kubatuma kuvoma bajyanye amajerekani batabasha, ahubwo bakwiriye kujya kwiga kugira ngo bagire ubwenge, baziteze imbere mu gihe kizaza.

Kugira ngo ubufasha buhabwe abarwayi bwihute abaganga bibasaba kugira ubufatanye aho bagabana akazi, umwe akandika amazina y'abarwayi kugira ngo buzurizwe amafishi, undi na we agashaka inkingo zo kubatera, undi na we agashaka ibinini byo kubaha.

Umwana mutoya agomba kujyanwa kwa muganga kugira ngo akurikiranwe, aterwe inkingo zimurinda kwandura ibyorezo birimo nk'iseru kandi anahabwe imfashabere irimo amata meza yo kunywa kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Itsinda ry'abaganga n'abaforomokazi ndetse n'abayobozi bambaye udupfukamunwa ndetse n'uturindantoki mu gihe cyo kwirinda icyorezo cya Korona, bashishikariza n'abandi baturaRwanda gufata ingamba bakirinda iki cyorezo.

Ikigo Mpuzamahanga gishinzwe kurengera ubuzima bw'abaturage ku isi, gitera inkunga Ibihugu biri mu nzira y'amajyambere kibagenera ibikoresho bitandukanye, birimo ibyifashishwa n'abakobwa mu gukora isuku, ndetse n'inkingo zifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo nk'icyorezo cya malariya.

Umugore w'umuzungu ufite indangururamajwi mu ntoki, uri gutanga ikiganiro yerekana ko ashyigikiye imibereho myiza y'abaturage batuye mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere kandi ko yiteguye kubafasha.

Umwana mutoya uri kunywa amazi akoresheje intoki ku buryo butari bwo kuko abantu bagirwa inama yo kunywa amazi bakoresheje igikombe kandi gisa neza kugira ngo birinde indwara zikomoka ku mwanda.

Nyuma yo kubakirwa amavomero meza y'ikoranabuhanga, abaturage bose basigaye bitabira ibikorwa byo kumesa ndetse no gukora isuku, yaba ku mubiri wabo, aho batuye ndetse n'ibikoresho byo mu rugo bakoresha.

Mu rwego rwo kurushaho guharanira ubuzima bwiza bw'abaturage batuye mu gihugu cy'u Rwanda, Minisiteri Ishinzwe Ubuzima RBC, yongereye inkingo zitumizwa mu mahanga kugira ngo zijye ziterwa abaturarwanda, mu rwego rwo kubarinda kwibasirwa n'ibyorezo bitandukanye.

Igikorwa cyo kujyana abana kubapimisha kwa muganga ni ingenzi cyane, kuko bituma bamenya ibiro abana bafite, ubundi basanga byaragabanutse ababyeyi babo bakarushaho kubagaburira ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri. Ikigo nderabuzima kandi na cyo kijya kibafasha, kibaha imfashamirire zirimo igikoma n'amata yo kunywa.

Ikigo gishinzwe guharanira ubuzima ndetse no kwita ku magara y'abana bakiri batoya Unicef, ni kimwe mu cyateje imbere ubuzima bw'abana binyuze mu kubaha imfashamirire, ndetse no kubafasha mu bindi bikorwa bitandukanye birimo kubaha uburezi n'ubujyanama bw'uko bakwitwara mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, cyane cyane nk'abakobwa.

Inama yahuje abayobozi batandukanye, hagamijwe kwigira hamwe kureba ingamba bafata kugira ngo bahashye kandi barwanye ibibazo byugarije imibereho myiza y'abaturage, harimo n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge.

Abana benshi bari kumwe hamwe bari guseka bishimye kuko bari kuganirizwa ubona ko nta kibazo bafite, abana bagomba kuganirizwa kugira ngo batigunga bagakurana ibibazo bikazabaviramo ibibazo by'imitekerereze.

Mu Rwanda buri mwaka hizihizwa umunsi wahariwe mu kurwanya ibibazo bitera ingaruka ubuzima bwo mu mutwe, birimo gukoresha ibiyobyabwenge, cyangwa ibisindisha nk'urumogi, kanyanga n'ibindi.

Umugabo wihebye, uri kurira ndetse yazanye n'ibimyira, afite agahinda gakomeye cyane kubera yahuye n'ihungabana cyangwa akagira ibindi bibazo by'imitekerereze, abantu bose bagomba kwirinda guheranwa n'agahinda kuko bitera ingaruka zirimo kwigunga cyangwa gusara.

Umuntu wicaye mu muhanda unyuramo imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga birimo nka moto n'amagare, yambaye imyenda yacitse kandi asa nabi afite ivumbi n'ibyondo ku maguru, kubera ko yahuye n'ikibazo cy'imitekerereze.

Umugabo wambaye imyenda yacitse y'ibishwambagara, afite amashashi, imifuka yashaje, yambaye imyenda mu mutwe, ibirineti byacitse afite n'igikoresho kimeze nk'imbunda, ari kugenda yivugisha mu muhanda ubona ko afite ikibazo kijyanye n'imitekerereze yo mu mutwe.

Ababyeyi ni bamwe mu bantu batera ibibazo abana babo, kuko hari igihe babyara cyane kandi abo badashoboye kurera, abana bagakurira mu buzima bubi, baba mu muhanda cyangwa mu mateme, bikabaviramo ibibazo bijyanye n'ubuzima bw'imitekerereze, bakaba abajura cyangwa abandi bagasara.

Abana bo mu miryango ikennye bakura bigunze, nta byiringiro by'ejo hazaza bafite, maze bikabaviramo ibibazo bitandukanye, birimo kudatekereza neza, cyangwa se bamwe bagasara, niyo mpamvu leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage kubyara abo bashoboye kurera.

Umugore wigunze yicaye ku ntebe, imbere ye hari umusambi kandi yicaye mu nzu idakoreye isuku kuko nta sima irimo, inyuma ye ku gikuta cy'inzu hatangiye guhomoka kuko inzu yatangiye kuvirwa, ababayeho mu buzima bw'ubukene, bashishikarizwa kujya kwa muganga kugira ngo badahura n'ibibazo byo kwigunga, bikaba byabaviramo no kwiyahura.

Ikigo cya isange gifasha abantu bahuye n'ibibazo bitandukanye birimo guhohoterwa, yaba ab'igitsina gore cyangwa ab'igitsina gabo kandi kigafasha n'abana b'abakozi bo mu rugo bakunze guhohoterwa n'abo bakorera ntibabishyure amafaranga. Ikigo cya isange gikunze gufatanya n'inzego z'umutekano zirimo polisi y'u Rwanda.

Kuganiriza abaturage no kubaha ubujyanama butandukanye ku bijyanye n'imibereho y'ubuzima bwo mu mutwe, ni kimwe mu bintu bidufasha kugabanya umubare munini w'abantu basara, kuko tubagira inama zirimo kuryama bagasinzira amasaha ahagije kandi bakirinda no gutekereza ibintu byinshi ndetse no kwigunga cyangwa guheranwa n'agahinda, babikora babinyujije mu kuganira na bagenzi babo.

Abana batoya bafite Amadarapo y'Ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda bari kumwe n'abantu bakuru, aho bitabiriye igikorwa cyo kwamamaza abakandida n'abayobozi bakuru b'igihugu cy'u Rwanda, harimo n'umuyobozi wa cyo Kagame.

Kugira umunaniro ukabije, kutaryama ngo umuntu asinzire, gutekereza no kwibaza ibintu byinshi ni bimwe mu bintu bishobora gutera umuntu kugira ikibazo kijyanye n'ihungabana cyangwa se kugira imitekerereze yo mu mutwe itariyo kuko usanga bigenda bikamucanga ubundi akavamo umusazi.

Abantu bagize ikibazo cy'imitekerereze cyangwa se abo twita abasazi ntabwo dukwiriye kubatererana, ahubwo tugomba kubaba hafi, kugira ngo badakora ibikorwa biteye ipfunwe, ubundi tukabitaho byaba na ngombwa tukabajyana mu bigo bifasha abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, harimo nk'ikigo cy'i Ndera gikorera hano mu Rwanda.

ihuriro ry'abantu baje kwitabira igikorwa cyateganyijwe n'Ikigo gishinzwe Ubuzima mu Rwanda RBC, aho bicaye ku ntebe bari kubaha ubujyanama no kubasuzuma indwara zitandukanye zirimo n'icyorezo cya Malariya.

Abana batoya baherereye ku kigo cy'amashuri, bishimye bari guseka kubera ko bari kuganirizwa n'abantu bakuru, bakabona yuko bitaweho bikabafasha gukura neza bafite ibyishimo.

Abaturage bageze mu kigero cy'imyaka mikuru bitaweho hano mu gihugu cy'u Rwanda kuko bahawe ijambo, yewe batanga n'ibitekerezo bitandukanye mu nama zihuza abayobozi cyangwa izibera mu nzego z'ibanze, bagatangiramo ibitekerezo byubaka igihugu.

Itsinda ry'abaganga n'abayobozi b'ibigo nderabuzima bari kumwe n'urubyiruko rw'abakobwa ndetse n'abasore, aho bari kubashishikariza gufata ingamba zo kurengera ubuzima bwabo harimo n'ubw'imitekerereze, birinda no gukoresha ibiyobyabwenge.

Kwita ku bana b'abakobwa bagashakirwa n'imirimo yo gukora, ni igikorwa cy'ingenzi cyane kibafasha mu mikurire yabo, bakagira ibyishimo bakiteza imbere maze bakubaka ingo zigakomera, bikabarinda ibibazo birimo kwibasirwa n'amakimbirane yo mu ngo.

Inama yahuje abayobozi batandukanye, aho bari kuganirizwa ingamba zafatwa kugira ngo turusheho guharanira no kurengera ubuzima bwo mu mutwe, twirinda gukoresha ibiyobyabwenge, ibisindisha nk'inzoga, kanyanga, urumogi n'ibindi.

Umukecuru ugeze mu kigero cy'imyaka y'izabukuru, yicaye ku gasonga bugari, atetse igikoma, akoresheje ibicanwa by'inkwi kandi atekeye ku mashyiga, hirya ye hari inkoko, ubona ko abayeho mu buzima butari bwiza.

Umugabo wigunze uhagaze inyuma yigikuta cyinzu ari kureba hejuru yambaye imyenda itameshe kandi ishaje ubona ko yahuye n'ikibazo cy'imitekerereze aho abantu basabwa kumwegera bakamuhumuriza.

Ababyeyi basabwa kwita ku bana babo, babagaburira indyo zikungahaye ku ntungamubiri, bakabagurira igikoma, bakabagurira imbuto, kandi bakajya babakorera isuku yo ku mubiri, ndetse n'iy'imyambaro yabo kugira ngo bakure neza bafite ubuzima bwiza.

Abana biga mu mashuri abanza, bakunze kuganirizwa cyane ku bigo bigiraho, aho bahabwa ubumenyi bujyanye n'uko bakwirinda indwara, harimo n'iziterwa n'umwanda, bakabikora bakaraba intoki kandi birinda kurya nk'ibiryo batoraguye mu nzira n'ahandi.

Hari ihuriro ry'abanyeshuri biga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, biga hirya no hino mu mashuri y'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bajye bafasha abaturage bibasirwa n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima bwo mu mutwe.

Abagore bane bicaranye n'umugabo imbere yabo bari kumuganiriza, ariko bafite n'amakaye yo kwandikamo ibitekerezo ari kubabwira, kugira ngo babashe kumufasha na we akire ikibazo cyo kwigunga no guheranwa n'agahinda.

Umuyobozi ukora mu kigo gishinzwe ubuzima hano mu Rwanda RBC, uri gutanga ikiganiro kuri bagenzi be, kigamije ku kwizihiza ubuzima bw'abaturage bagira isuku, yaba mu kazi ndetse n'aho bakorera kandi hakimakazwa no guteza imbere ubuzima bwo mu mutwe, twirinda gukoresha ibiyobyabwenge.

Igikorwa cyahuje abayobozi ndetse n'abantu biganjemo ab'igitsina gore, hagamijwe mu kubaganiriza ukuntu bakemura amakimbirane yo mu ngo zabo, kugira ngo birinde ibibazo birimo kwigunga cyangwa guheranwa n'agahinda.

Kwita ku bana batoya tubaganiriza ndetse tukabashyira hamwe bakaganira na bagenzi babo cyangwa bagakina imikino itandukanye, ni kimwe mu kimenyetso cyo kubafasha kugira ubuzima bwiza kugira ngo barusheho kugira n'ubwenge, haba mu mashuri ndetse no mu bikorwa bakorera mu ngo batuyemo.

Ikiganiro cy'itangazamakuru hamwe n'abayobozi bakuru bakuriye ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC, aho bari kubaganiriza ingamba zafashwe mu rwego rwo guhashya no kurwanya ibyorezo byibasira abaturarwanda.

Umugore ufite igishushanyo cyanditseho amagambo yo kwibuka Abanyarwanda bazize Jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana acyenda mirongo cyenda na kane, aho ashishikariza abantu bose kudaheranwa n'ubwigunge kuko Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda yagaruye amahoro.

Umugabo wicaye ku muhanda yigunze nta myenda yo kwifubika yambaye kandi ari mu gihe cy'imbeho kubera ko yahuye n'ikibazo gikomeye cyane cy'ubuzima bw'imitekerereze, abantu basabwa kumuba hafi kugira ngo bamujyane kwa muganga akurikiranwe abashe kuvurwa.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC cyashyizeho ingamba zo kuvura abana n'abageze mu bugimbi cyangwa ubwangavu, ibikorwa bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe binyuze mu kubigisha kudakoresha ibiyobyabwenge nk'ibisindisha.

Umuntu wigunze cyangwa waheranywe n'agahinda, ntabwo agomba kuba wenyine, ahubwo dukwiriye kumwegera, tukamuganiriza tukamubwira inkuru zisekeje, tukamusomera ibitabo, tukamwereka ko tumwitayeho, kugira ngo nawe we abashe kugira ubuzima bwiza.

Hari abantu usanga baragize ikibazo kijyanye n'imitekerereze, aho ubabona bambaye imyenda y'inshwabari cyangwa rimwe na rimwe bakambara ubusa, ikindi aba bantu usanga batazi gukora isuku ku mubiri wabo, bityo bagahora banuka, tugomba kubafasha tubajyana mu bigo bivura abasazi harimo n'Ikigo cya Ndera.

Umugore w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Madamu Jeannette Kagame, ni umwe mu bateza imbere imibereho y'ubuzima bwiza bwo mu mutwe ku baturarwanda kuko abinyuza mu bikorwa bitandukanye, birimo ubujyanama bagira ndetse yanafunguye ikigo cyitwa Imbuto Foundation gishinzwe gufasha abari n'abategarugori.

Umusore wigunze kandi yipfutse mu maso, imbere ye hari umukobwa uri kumuganiriza kugira ngo abashe kumubaza ikibazo yahuye na cyo, ubundi amufashe no kugikemura kugira ngo areke kwigunga.

Inama yahuje abayobozi batandukanye, harimo n'abashinzwe ubuzima mu Gihugu cy'u Rwanda, hagamijwe gufata ingamba zo guhashya no kurwanya ibibazo byibasira ubuzima bw'Abaturarwanda, harimo n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge nka kanyanga n'urumogi.

Umugore wicaye munsi y'igiti ku musambi, yigunze atari kuvuga ubona ko yahuye n'ikibazo k'imitekerereze, abantu bagomba kumwegera bakamuganiriza cyangwa bakamujyana kwa muganga kumuvuza.

Hari raporo igaragaza umubare w'abantu bagiye biyahura mu gihugu cy'u Rwanda, aho wagiye ugabanuka bitewe n'uko abaturage bagiye bigishwa ingamba zitandukanye bafata kugira ngo birinde guhura n'izi naruka. Umwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri, byari bigeze ku kigero cya cumi na kane ku ijana, ariko kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani byari bigeze ku kigero cya kabiri ku ijana.

Gusukura amenyo ukoresheje umuti w'amenyo n'uburoso ntibihagije, kuko hari indi myanda isigara hagati y'iryinyo n'ishinya, ni yo mpamvu abantu bashishikarizwa gukoresha uburyo bw'akadodo kuko kabasha gukuramo iyo myanda iba yagiye hagati y'amenyo n'ishinya.

Kwa muganga tuhasanga ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo n'intebe za kijyambere zifashishwa mu kwicarwaho n'umurwayi kugira ngo bamwongerera amaraso cyangwa bamuteremo amaraso, igihe afite makeya mu mubiri we.

Kugira ngo umuganga avure umurwayi iryinyo, yifashisha ibikoresho byabugenewe kandi akabanza kwambara impuzankano, udupfukamunwa, amarinete amufasha kureba neza ndetse n'uturindantoki kugira ngo atangire igikorwa cyo gufasha umurwayi.

Hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora isuku yo mu kanwa ndetse no gukura amenyo abantu bayarwaye. Hari ibitaro bitandukanye, harimo nk'iby'i Kanombe, Kacyiru cyangwa i Kabgayi, bifasha abantu bafite ibibazo bijyanye n'amenyo.

Umusore uri kwita ku isuku ye yo gusukura amenyo, akoresheje uburyo bw'akadodo kugira ngo avanemo ya myanda iba yihagitse hagati y'ishinya n'iryinyo, bityo bimufashe kutagira impumuro mbi mu kanwa.

Itsinda ry'abaganga n'impuguke mu kuvura no kwita ku isuku yo mu kanwa, aho bicaranye n'abana n'urubyiruko rutandukanye, bari kubigisha uburyo isuku yo mu kanwa ku menyo ikorwa ndetse banababwira gushishikariza bagenzi babo gukora isuku y'amenyo.

Urubyiruko rufatanyije n'inzego zishinzwe ubuzima mu Rwanda, bakora ubukangurambaga bwo gushishikariza abantu bose kwita ku isuku yo mu kanwa, bahoza bakoresheje uburoso, n'umuti wabugenewe w'amenyo.

Abantu bagomba gukora isuku yo mu kanwa basukura amenyo yabo bifashishije uburyo bw'akadodo, kuko kabasha gukuramo imyanda yihagika hagati y'amenyo n'ishinya, ariko abenshi bakoresha uburyo bw'uburoso n'umuti wabugenewe, ariko uburoso ntibucengera hagati y'amenyo ngo bukure ya myanda iba yihishe hagati y'amenyo n'ishinya.

Abana batoya bagomba kwigishwa ku mashuri aho biga, ibikorwa bitandukanye, birimo n'ibyo kugira isuku, yaba iyo ku mubiri wabo ndetse no koza amenyo bakoresheje amazi meza ndetse n'uburoso.

Hari imyanda yihagika hagati y'amenyo n'ishinya, niyo mpamvu abantu bashishikarizwa gukoresha uburyo bw'akadodo mu gihe bari gukora no kwita ku isuku y'amenyo, kugira ngo birinde kugira impumuro mbi mu kanwa.

Umuganga wambaye agapfukamunwa, amarinete, uturindantoki, ufite ibyuma byifashishwa mu gukura amenyo no kuyavura, arimo aravura umwana mutoya waje kwa muganga kwivuza amenyo.

Gukora isuku yo mu kanwa twoza amenyo dukoresheje umuti wabugenewe ndetse n'uburoso cyangwa tugakoresha uburyo bw'akadodo n'ibyo bidufasha kwirinda indwara zitandukanye, zirimo nk'ifumbi y'amenyo cyangwa kugira impumuro mbi mu kanwa.

Umwana muto ufite uburoso, uriho n'umuti wabugenewe mu koza amenyo, aho agiye gukora isuku ye yo mu kanwa, kubera yabitojwe n'ababyeyi be, cyangwa akabyigishwa ku ishuri, kugira ngo ajye arushaho kubungabunga ubuzima bwe bwo mu kanwa.

Umwana mutoya wajyanywe kwa muganga kugira ngo avurwe iryinyo ndetse bamwogereze no mu kanwa kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza. Abantu bashishikarizwa kwita ku isuku y'amenyo ndetse uhuye n'ikibazo agahita ajya kwa muganga kugira ngo bamufashe.

Kudakora isuku yo mu kanwa bifite ingaruka nyinshi zitandukanye zirimo: kwangirika kw'ishinya y'umuntu, kuvunguka kw'amenyo, kugira impumuro mbi mu kanwa, ndetse no kuba umuntu yarwara ifumbi y'amenyo.

Mu bigo by'amashuri ahiga abana batandukanye, bigishwa ibijyanye no gukora isuku y'amenyo bifashishije ibishushanyo by'ikoranabuhanga, umwarimu azana uburoso bwabugenewe, akigisha yerekera umwana uko bakora isuku yo mu kanwa.

Kugira ngo umuganga avure umurwayi amenyo abanza kwambara impuzankano, amarineti, udupfukamunwa, ubundi akifashisha ibyuma by'ikoranabuhanga akabishyira mu kanwa k'umuntu kugira ngo amukure iryinyo cyangwa amwogereze mu kanwa.

Umwana uri kumwe na se, bari kwita ku isuku y'amenyo, bakoresha uburyo bw'akadodo, bavana imyanda ihagitse hagati y'ishinya n'amenyo yabo, kugira ngo bibafashe kugira ubuzima bwiza.

Umwana mutoya ufite imyaka mike cyane nk'imyaka itatu gusubiza hasi, ufite uburoso bukoreshwa mu koza amenyo, arimo yigana uko bakora isuku yo mu kanwa kubera ko yabyigishijwe n'ababyeyi be, babimutoza akiri muto.

Mu nyubako kwa muganga dusangayo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe z'ikoranabuhanga zegeranye n'imashini za mudasobwa ndetse n'imigozi ya kijyambere ishinzwe kongerera umurwayi amaraso mu mubiri cyangwa kumuteramo serumu.

Umwana mutoya uri kumwe n'umuganga wambaye impuzankano ndetse n'uturindantoki, afite ibikoresho byifashishwa mu gukura iryinyo kugira ngo afashe umwana, arikuremo kuko riba rimurya cyane.

Umuganga uri gukura umurwayi iryinyo, yifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga, kubera ko umurwayi yagize ikibazo cy'iryinyo, akajya kwa muganga gusaba ubufasha ko barimukuriramo.

Umurwayi wagiye kwa muganga kwivuza iryinyo, aho ari kwereka umuganga iryinyo arwaye, muganga na we yazanye igikoresho kifashishwa mu gusukura no gukura iryinyo, abantu bashishikarizwa kwivuza amenyo kuko ashobora kubatera uburwayi butandukanye baramutse batayivuje.

Gukora isuku yo mu kanwa hakoreshejwe uburyo bw'akadodo ni igikorwa cy'ingenzi cyane, kuko akadodo gacengera hagati y'amenyo kagakuramo imyanda iba yihagitsemo, kandi gukoresha uburoso ntibyabasha gukuramo iyi myanda.

Kudakora isuku yo mu kanwa bigira ingaruka zitandukanye zirimo: kuvunguka kw'amenyo, kuva amaraso mu ishinya, kugira impumuro mbi mu kanwa, abantu bose bashishikarizwa gukora isuku y'amenyo bakoresheje umuti wabugenewe ndetse n'uburoso cyangwa bagakoresha akadodo.

Gukora isuku yo mu kanwa ni ibintu by'ingenzi cyane ni yo mpamvu abana bakiri batoya bigishwa ku mashuri aho biga gukora isuku y'amenyo bifashishije umuti wabugenewe ndetse n'uburoso n'amazi meza. Bakabigira umuco, bakajya babikora kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Hari ibyuma bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kuvura abantu amenyo kuko bibasha kuyoza kandi ku buryo bworoshye kandi bikabasha no kuyakura mu buryo butababaza umurwayi.

Umuntu ashobora gukoresha umuti wabugenewe n'uburoso akora isuku yo mu kanwa cyangwa agakoresha uburyo bw'akadodo. Ibi bimufasha kumwenyura mu ruhame, akisekera nta kibazo cyangwa se bikamurinda indwara zitandukanye zirimo n'ifumbi y'amenyo cyangwa kwangirika kw'ishinya.

Umuntu uri gukora isuku yo mu kanwa akoresheje akadodo, akanyuza hagati y'amenyo n'ishinya, avanamo imyanda yihagitsemo bikamurinda kugira ifumbi y'amenyo ndetse n'impumuro mbi yo mu kanwa.

Hari uburyo butandukanye bwo gukora isuku yo mu kanwa. Harimo nk'uburyo bwo gukoresha akadodo, umuntu akakanyuza hagati y'amenyo kugira ngo akuremo ya myanda igenda ikibika hagati y'ishinya ndetse n'amenyo. Ariko gukoresha uburyo bw'uburuso ntabwo bwabasha kuvanamo iyi myanda. Ni yo mpamvu abantu bashishikarizwa gukoresha akadodo.

Abantu bashobora gukora isuku yo mu kanwa kabo igihe bari koza amenyo bifashishije uburyo bw'akadodo, bakagenda bakanyuza hagati y'amenyo n'ishinya kugira ngo bavaneho imyanda iba yarihagitsemo, ubundi bagire ubuzima bwiza.

Abantu bagomba kwita ku isuku yo mu kanwa boza amenyo yabo bakoresheje uburyo bw'akadodo cyangwa umuti wabugenewe, bifashishije n'uburoso n'amazi meza. Kwa muganga bagira ibikoresho bigiraho mu kuvura abarwayi indwara z'amenyo.

Gukora isuku yo mu kanwa bishobora gukorwa hifashishijwe uburyo butandukanye, burimo ubw'akadodo cyangwa se uburuso n'umuti wabugenewe w'amenyo bityo bigafasha umuntu kugira amenyo meza ndetse n'ishinya isa neza, ubundi bikamurinda indwara zitandukanye zirimo n'ifumbi y'amenyo.

Icyumba kivurirwamo abarwaye amenyo giherereye kwa muganga ku bigo Nderabuzima no ku bitaro, ugisangamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gihe bari kuvura umurwayi, harimo intebe bicaraho, hakabamo n'imashini z'ikoranabuhanga, ndetse n'ubwogero ashobora gukoresha igihe yavuye amaraso mu kanwa.

Abantu bagomba kwita ku isuku yo mu kanwa, boza amenyo yabo bakoresheje uburyo butandukanye burimo gukoresha akadodo, gukoresha umuti w'amenyo n'uburoso n'amazi meza cyangwa bagakoresha utundi dukoresho tugurwa kwa muganga.

Kwita ku isuku yo mu kanwa ni igikorwa cy'ingenzi cyane ku buzima bw'umuntu, dore ko bimufasha kwirinda indwara zitandukanye, harimo ifumbi y'amenyo, kuvunguka kw'amenyo, ikindi umuntu ukora isuku yo mu kanwa aba afite amenyo meza n'ishinya, bityo akajya aseka mu ruhame nta n'ikibazo afite.

Umwana mutoya uri kwigishwa n'abaganga ndetse n'abarimu ukuntu bakora isuku y'amenyo bakoresheje uburoso ndetse n'umuti wabugenewe ariko bakabimwereka bifashishije igishushanyo.

Abantu bose bashishikarizwa gukora isuku yo mu kanwa boza amenyo yabo byibuze inshuro ebyiri ku munsi, bakoresheje uburyo bw'akadodo cyangwa umuti wabugenewe hamwe n'uburoso, bakabikora kenshi kandi buri munsi kugira ngo babashe kwirinda indwara zitandukanye zirimo ifumbi y'amenyo.

Umuganga uvura amenyo iyo agiye mu gikorwa cyo gufasha abarwayi abanza kwambara uturindantoki n'impuzankano, ubundi akifashisha ibikoresho byabugenewe kugira ngo abashe kuvura umurwayi yaba kumukura iryinyo cyangwa kumwogereza mu kanwa.

Umukecuru wicaye ahantu mu kigunda hari ibyatsi ateretse inkono ku ziko kandi abicaniriye, yigunze ari wenyine ubona yuko nta mwana mutoya agira. Abantu rero bakwiriye gufasha abantu bakuze, bakabahereza abana babaganiriza ndetse babazanira n'amazi.

Umubyeyi uri iwe uri kumwe n'umwana, imbere ye hari mashini ya mudasobwa, umwana ari kumuhereza imiti yo kunywa, amuzaniye n'amazi ateretse mu kirahuri kugira ngo abashe kunywesha imiti.

Umuganga uri kwita ku murwayi we w'umukecuru, ufite imyaka myinshi ugeze mu zabukuru amuganiriza, kugira ngo na we abone yuko hari abantu bamwitayeho, bitume agira ibyishimo maze azasaze neza.

Abasaza babiri bitabiriye igikorwa cyateganyijwe na minisiteri y'ubuzima, aho bambaye imyenda myiza ubona ko leta ibitayeho kandi babahaye ijambo ngo bagire ubutumwa bageza ku bitabiriye icyo gikorwa.

Umuganga w'umugore uri kumwe n'umurwayi w'umugabo wahuye n'ikibazo cyo kumugara ukuguru, ari kumufasha gutambuka hifashishijwe ibyuma by'ikoranabuhanga abantu bagenderamo. Ari kumwitaho amuganiriza kandi ukabona ko hari ibyiringiro yuko agomba gukira.

Umugore wicaye ku gasambi, ari gukora imyitozo ngororamubiri, arambura amaguru ye, amaboko ye kugira ngo agorore imitsi, maze agire ubuzima bwiza abikesheje imyitozo ngororamubiri.

Umusaza ugeze mu zabukuru, ufite ikaramu n'ikayi arimo kwandika ibyo yakuye mu gitabo yari ari gusoma kugira ngo arusheho kwiteza imbere, yaba mu bijyanye n'ubwenge cyangwa se mu bijyanye no kwagura ubumenyi.

Abagore batatu bafite terefone, barimo barareba amashusho kugira ngo babashe kwishima, bibafashe kudaheranwa n'agahinda cyangwa kwigunga, kuko bitera ibibazo bitandukanye bishobora kuviramo umuntu no gusara.

Umugabo uri mu kigero k'imyaka ya mirongo irindwi kuzamura, wicaye ari gusoma igitabo afite n'ikaramu kugira ngo abashe kugira ubumenyi kandi igitabo kugisoma bituma umuntu yunguka ibitekerezo bishyashya akamenya n'amakuru y'ahandi.

Abaganga ni abantu bazi kwita ku barwayi cyane, aho usanga n'umuntu wahuye n'ikibazo cyo kumugara ingingo zirimo n'amaguru, bamwigisha kugenda, akazava kwa muganga yarabimenye, kuko buri munsi bamukoresha imyitozo yo kugenda byibuze metero makumyabiri.

Kwita ku bantu bakuru, tubigisha gukora imyitozo ngororamubiri, binyuze mu bikorwa byo kurambura ingingo z'umubiri wabo, harimo amaboko n'amaguru, ni bimwe mu bibafasha kugira ubuzima bwiza, na bo bagasaza, bafite ibyishimo.

Abaturage bakuze cyane harimo abakecuru ni bamwe mu bitabira ibikorwa biteganywa n'ubuyobozi bw'u Rwanda birimo no kwamamaza abayobozi b'igihugu aho bajya gushyigikira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Kagame kubera ko yabateje imbere cyane kandi akabasubiza ijambo.

Umuganga uri kwita ku murwayi ufite ikibazo cy'ubumuga kubera ko yabuze ingingo ze z'amaguru ubu asigaye agendera mu kagare, muganga arimo aramusunika kandi agenda anamuganiriza kugira ngo amwereke ko nawe yitaweho.

Umugore n'umugabo bagomba kuganira, gufashanya imirimo yo mu rugo, bakongeraho no kugirana inama kugira ngo babashe kuzana ibyishimo mu muryango wabo, bibafashe kugira amasaziro meza.

Umugabo ukuze uri mu kigero k'imyaka mirongo itanu kuzamura, uri ku kigo nderabuzima aho ari gufashwa n'umuganga gukora imyitozo ngororamubiri, yamuhaye icyuma cyo guterura kugira ngo arambure imitsi y'ukuboko kwe.

Imiryango igizwe n'abagore n'abagabo ndetse n'abana babo bishimanye bari guseka bamwenyuye kubera ko bafashanya mu buzima busanzwe yaba imirimo yo mu rugo ndetse n'inshingano.

Ubufatanye bwabagize umuryango, hagati y'umubyeyi n'umwana, ni ikimenyetso kitaziguye cyerekana yuko umuryango uba ufite ibyishimo, kubera ko umubyeyi abasha kwishimira umwana n'umwana akishimira umubyeyi.

Abagize umuryango umugabo, umugore ndetse n'urubyaro rwabo bagomba gufatanya mu bikorwa bya buri munsi, harimo imirimo yo mu rugo, kugirana inama cyangwa no kuganira hagati yabo kugira ngo bagire imibereho myiza.

Umuganga uri kwita ku murwayi, uherereye ku kigonderabuzima, waje kuharwarira. Amusukira, umutobe wo kunywa, yamuteguriye amafunguro akungahaye ku ntungamubiri, arimo imbuto zitandukanye, ibinyomoro na pome.

Abantu bageze mu kigero cy'imyaka y'izabukuru, byibuze hejuru y'imyaka mirongo itanu kuzamura, ugomba kwitabwaho kandi bakajyanwa kwa muganga kuvuzwa, kugira ngo badaheranwa n'agahinda cyangwa bakibasirwa n'indwara z'ubuzima bwo mu mutwe, kuko usanga bakunze gutekereza ibintu byinshi cyangwa kwigunga.

Umubyeyi ubona ko ari mu kigero cy'imyaka ya mirongo itanu kuzamura, urwariye kwa muganga ariko ari kwitabwaho n'umuganga w'umugore mugenzi we, aho ari no kumuganiriza kugira ngo adaheranwa n'agahinda.

Leta y'u Rwanda yateje imbere cyane abageze mu kigero cy'imyaka y'izabukuru kuko ubu na bo basigaye bitabira inama rusange kandi bagatangamo ibitekerezo, ibi banabishimira ubuyobozi bw'igihugu kuko bwita ku bantu bakuze na bo bakumva batekanye kandi bakagira ubuzima bwiza.

Umubano mwiza hagati y'umugabo n'umugore cyangwa se abashakanye ni byo bibafasha gusaza neza kuko iyo bafatanyije, babinyujije mu bikorwa birimo kuganira ndetse no kugirana inama, bituma urugo rwabo rutera imbere kandi bakagira amasaziro meza.

Abantu bashakanye bakunze gusangira hamwe amafunguro kugira ngo babashe kurya baganira ndetse bungurana n'inama ku bijyanye n'uko bateza imbere urugo rwabo, ibi ngibi bibafasha kugira amasaziro meza.

Umugabo ugeze mu kigero k'imyaka y'izabukuru nka mirongo itanu kuzamura, yambaye insinga mu matwi zimufasha kumva umuziki, afite n'ibyuma ari kuterura kugira ngo abashe kugorora imitsi ye y'amaboko, ubundi abashe gukomera.

Umwana muto ufite umupira wo gukina ari kumwe na se umubyara, bari gukinira mu kibuga kinini kisanzuye, ubona ko umwana yishimye kubera ko papa we yamuhaye umwanya, bakaganira bagakina n'imikino.

Umuganga uri kurwaza umukecuru ukuze cyane ufite imyaka nka mirongo itanu kuzamura, aho ari kumucunga ku kagare kuko umukecuru yahuye n'ikibazo cyo kubura ingingo ze z'umubiri we, amaguru, ubundi akaba asigaye agendera mu kagare.

Umugabo urwariye ku Kigo Nderabuzima, uri kwitabwaho n'umuganga, aho yamwambitse igitambaro, kugira ngo abashe kumutera urushinge, amuvome amaraso, ubundi ayifashishe ayapima, amenye indwara arwaye abashe kumuvura.

Umurwayi wahuye n'ikibazo cy'imvune, cyangwa akamugara ingingo ze z'umubiri zirimo n'amaguru, afashwa na muganga amwigisha kugenda, hakoreshejwe ibikoresho cyangwa inkoni z'ikoranabuhanga, aho umuganga amufatira akagenda amwerekera, agatera intambwe imwe ku yindi mpaka amenye kugenda.

Abantu bakuru bagomba kwitabwaho babifashijwemo n'abana babyaye kugira ngo bagire ibyiringiro kandi bongere kwishima mu buzima kuko iyo babona abana bibyariye barakuze barimo barabaganiriza birabashimisha cyane.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni igikorwa gitangiye kwitabirwa n'abari n'abategarugori, cyane cyane abagore bakuze kugira ngo birinde indwara zibibasira zirimo umubyibuho ukabije. Usanga bicara mu ngo zabo maze bakambara imyenda yabugenewe, bagatangira kugorora ibice by'umubiri wabo.

Umuganga uri kwita ku murwayi waje amugana, yambaye impuzankano n'agapfukamunwa, ari kumufungurira ishati kugira ngo amufate amaraso ajye kuyasuzuma ubundi amuzanire imiti.

Abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda, na bo bakora imyitozo ngororamubiri, ahanini bagamije gushishikariza, abaturage bo mu nzego z'ibanze kugira ngo na bo babirebereho urugero, bajye bakora imyitozo ngororamubiri.

Mu rwego rwo kurushaho guteza imbere imibereho myiza, ubuyobozi bukuru bw'igihugu cy'u Rwanda bufatanyije n'ubuyobozi bushinzwe ubuzima bashishikariza abaturage kurya indyo yuzuye igizwe n'imboga, ibishyimbo, imiteja n'ibindi biribwa.

Inama yahuje abayobozi batandukanye, igamije kwiga ku bibazo byibasira ubuzima bw'abaturage, aho yatewe inkunga n'ibigo bitandukanye, harimo kaminuza y'u Rwanda, ikigo gishinzwe kurengera ubuzima bw'abaturage mu Rwanda ndetse igaterwa inkunga n'ubuyobozi bw'igihugu.

Urubyiruko rushishikariza abantu bose bakiri batoya, kwirinda imibonano mpuzabitsina, kuko yanduriramo indwara, zirimo na SIDA, ariko mu gihe nonene kwifata byabananiye, bakabashishikariza gukoresha agakingirizo, kuko karinda umuntu kwandura izo ndwara zose zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Mu rwego rwo kurandura indwara zibasira abantu mu muryango mugari nyarwanda, Leta y'igihugu cy'u Rwanda yashyizeho ingamba zigamije kubirwanya, aho abantu basigaye bajya kwa muganga, bagafata inkingo z'ibyorezo kugira ngo babashe kubyirinda, bagire ubuzima bwiza.

Mu Rwanda hizihizwa umunsi wagenewe kuganirirwaho ibibazo bitera ingaruka ubuzima bwo mu mutwe, birimo gukoresha ibiyobyabwenge nk'urumogi, ibisindisha nka kanyanga, inzoga z'inkorano n'ibindi.

Ikigo k'Igihugu gishinzwe Ubuzima mu Rwanda RBC, kiyemeje yuko kigomba gutuma abaturage bose baba mu Rwanda bagira ubuzima bwiza, bityo bigateza imbere n'igihugu cyacu mu bikorwa by'amajyambere ndetse no kwaguka ku ruhando mpuzamahanga.

Umuyobozi mukuru w'igihugu gishinzwe ubuzima hano mu Rwanda Dr Sabin Nsanzimana yahuye n'abayobozi batandukanye abashimira mu kudahwema guteza imbere ubuzima bw'abaturage bo mu Rwanda kandi nabo bamwizeza y'uko batazamutenguha mu kugumya guharanira imibereho myiza y'Abaturarwanda.

Inama yahuje abayobozi batandukanye ndetse n'abaturage bakomoka mu bihugu byo mu mahanga, harimo nk'Ubushinwa, aho baje kwitabira no gushyigikira igikorwa cyo guteza imbere imibereho myiza no kurwanya indwara z'ibyorezo birimo na SIDA, hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Abiganjemo urubyiruko bajya bakora ubukangurambaga, babinyujije mu gikorwa cyo kugenda mu muhanda bafite ibitambaro byanditseho amagambo avuga ngo "Twirinde kanseri y'ibere tuyisuzumishe hakiri kare kuko ivurwa igakira". Ubwo baba bashishikariza abari n'abategarugori.

Umugore w'Umukuru w'Igihugu cy'u Rwanda Madamu Jeannette Kagame, ari mu bateza imbere cyane ubuzima bwo mu mutwe, aho abinyuza mu biganiro n'ubujyanama aha abaturarwanda, ndetse agatanga n'ubufasha bujyanye n'ubushobozi, binyuze mu kigo yashinze cyitwa Imbuto Foundation, kirengera ubuzima bw'abari n'abategarugori.

Abantu bose batuye ku mugabane wa Afurika, biyemeje gushyira hamwe kugira ngo baharanire imibereho myiza y'abatuye kuri uyu mugabane kandi barwanye n'ibintu ibyo ari byo byose byangiza ubuzima bw'abaturage harimo no gukoresha ibiyobyabwenge.

Itsinda ry'abaganga bambaye impuzankano, udupfukamunwa, amarinete ndetse n'uturindantoki, aho baherereye mu cyumba kirimo imashini z'ikoranabuhanga, za mudasobwa na za tereviziyo, ubona ko bari gukora ubushakashatsi.

Igikundi cy'abantu benshi biganjemo urubyiruko, bafite igitambaro cyanditseho amagambo agira ati" rubyiruko ni mwe hazaza heza h'u Rwanda mwirinde virusi itera SIDA, mwipimishe uyu munsi."

Abaturage bakoraniye ahantu hamwe, bicaye ku ntebe ahantu muri sale, bari gukurikira ibiganiro bateguriwe n'abayobozi, kugira ngo barusheho guteza imbere imibereho myiza yabo, bakora ibikorwa birimo no kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge.

Abaturage batandukanye b'Igihugu cy'u Rwanda bitabiriye igikorwa cyo gufata inkingo z'icyorezo cya covid cumi n'icyenda, kugira ngo tubashe kugihashya no kukirwanya, kuko cyari cyaribasiye ibice byinshi bitandukanye byo ku isi, harimo n'Igihugu cy'u Rwanda, bityo dufata inkingo ubundi turakirandura burundu, kugeza ubu ngubu nta kigihari.

Inama yahuje Minisitiri w'ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda Dr, Sabe NSANZIMANA, hamwe n'abandi bayobozi, yo kurwanya icyorezo cya virusi ya maribage, iherutse kwibasira abaturarwanda mu umwaka ibihumbi na makumyabiri na kane ushize, inama ikaba yarabaye ku itariki makumyabiri z'ukwa cumi umwaka washize.

Indwara y'igituntu iravurwa igakira iyo umuntu uyirwaye ayisuzumishije hakiri kare, abantu batandukanye barimo n'abahanzi b'indirimbo nka Mico The Best bafatanyije n'inzego z'ubuzima RBC, bashishikariza abaturage kwisuzumisha indwara y'Igituntu.

Ibirori byahuje abayobozi batandukanye bo mu bihugu by'Afurika, biganjemo abayobozi bashinzwe ubuzima mu bihugu byabo aho basinyanye amasezerano yo guharanira no kurengera ubuzima bwiza bw'abaturage mu bihugu bakomokamo.

Bimwe mu bintu byadufashije kurwanya icyorezo cya korona kikaranduka burundu, harimo nko gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, gushyiramo intera hagati ya mugenzi wawe igihe muhuye, kwitsamura dukoresheje hagati y'inkokora ntidushyireho ibiganza ndetse no kurya indyo yuzuye.

Ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda bufatanyije n'Urwego rw'Igihugu rushinzwe Kwita ku Buzima, RBC, ndetse n'abaturarwanda bafatanyirije hamwe mu kurwanya indwara y'icyorezo cya korona, yibasiye Abanyarwanda benshi mu mwaka wa bibiri na makumyabiri.

Mu rwego rwo guhashya no kwirinda indwara ya diyabete iterwa no kurya ibiryo birimo amasukari menshi, Leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba ndetse ishyiraho n'inyigisho zigenewe abaturage, kugira ngo berekwe ibimenyetso bitera iyo ndwara, maze ujye ubona abyujuje ajye ahita ajya kwipimisha ku kigo nderabuzima.

Ababyeyi babyaye abana bashishikarizwa kubajyana kwa muganga inshuro nyinshi cyangwa se ku bajyanama b'ubuzima kugira ngo babakingire indwara zitandukanye, zishobora kubibasira kandi zikabaviramo n'ingaruka zirimo n'urupfu.

Ibigo nderabuzima n'ibitaro bisigaye byubakwa hirya no hino mu byaro, kandi bigahabwa inyubako ziteye imbere cyane zisize amarangi, yewe zifite n'ubusitani buteyeyemo n'ibiti by'inganzamarumbo bitanga umuyaga wo guhumeka.

Ikigo nderabuzima cya Kanyinya, cyubatse ku buryo bw'inzu z'amagorofa, kandi gifite ubusitani buteyemo indabyo z'amoko atandukanye, hari n'imihanda ikoreshwa n'abanyamaguru ndetse n'abafite ibinyabiziga nk'imodoka n'amamoto.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe giherereye mu Ntara y'Iburarasirazuba mu karere ka Nyagatare, aho cyakira abaturage benshi batandukanye kikabafasha mu gikorwa cyo kwivura indwara zirimo malariya, imitezi, za mburugu, inzoka zo mu nda n'izindi ndwara nyinshi.

Ubuvuzi bwatejwe imbere cyane kubera ko ibitaro n'ibigo nderabuzima bisigaye byubakirwa inyubako z'amagorofa zigeretse byibuze nk'inshuro eshatu kuzamuka, kandi zikaba zifite n'ubusitani buhagije, ndetse hateyemo n'ibiti by'inganzamarumbo bitanga umwuka mwiza abantu bahumeka.

Ibigo nderabuzima bisigaye byubakwa ku nyubako z'amagorofa bigatezwa imbere cyane, bigahabwa n'ubusitani bunini buteyemo ibiti by'inganzamarumbo bitanga umwuka mwiza abaturage bahumeka, kandi hakubakwa n'imbuga nini yo guparikamo ibinyabiziga.

Umuntu wahuye n'ikibazo cyo kugira umubyibuho ukabije aryamye ku ntebe kwa muganga, aho yegeranye n'imashini z'ikoranabuhanga ziri kumwongerera amaraso. Kandi banamuteramo serum kugira ngo abashe kuvurwa ko yarwaye indwara zitandukanye zirimo umwijima, n'umuvuduko w'amaraso.

Ikigo nderabuzima cya Kigina cyubatse ku buso bunini cyane kandi gifite inyubako zirenze eshanu, abaturage bose babasha kubona aho bivuriza, gifite n'abazamu bashinzwe gucunga umutekano w'abinjira.

Ukigera ku kigo nderabuzima cyangwa ibitaro, uhasanga ibyicaro byabugenewe, aho bikoramo abakozi bashinzwe kwakira abagana ibitaro bakababaza imyirondoro yabo ubundi bakabaha ikaze.

Kwa muganga hari icyumba cyabugenewe dusangamo ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, harimo ibyuma byo guterura, hakabamo imigozi yo gusimbuka ndetse n'ibyuma bifasha umuntu kwirukanka atavuye aho ari.

Kwa muganga mu nyubako dusangayo ibyuma bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi indwara zirimo Diyabete, umuvuduko w'amaraso, dusangamo kandi isaha yerekana igihe hakabamo n'ibikoresho bimanikwaho amafoto.

Ikigo Nderabuzima cya Matyazo giherereye mu Karere ka Nyanza, mu Ntara y'Amajyepfo y'Igihugu cy'u Rwanda, kikaba cyubatse ku buso bunini kandi gifite n'abazamu bashinzwe gucunga umutekano w'abinjira, kugira ngo basakwe harebwe ko nta bisasu baba bitwaje, byarimbura Ikigo Nderabuzima.

Umuganga wambaye impuzankano w'umugore uri kuvura umurwayi urembeye kwa muganga, aho umurwayi aryamye ku gitanda kandi ubona y'uko afite intege nkeya umuganga ari kumwitaho.

Mu nyubako kwa muganga dusangamo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe za kijyambere zigezweho ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa, mu gutera umurwayi serumu cyangwa kumwongerera amaraso.

Kwa muganga hashobora kwivuriza abarwayi batandukanye, hari abaza bagahita bataha, hakaba n'abandi baba barembye cyane, bikaba ngombwa y'uko bacumbikirwa kuko kwa muganga hari inyubako ziba zirimo ibitanda zabagenewe, bityo bakajya bivuza baherereye kwa muganga.

Mu nyubako kwa muganga dusangamo ibyumba bitandukanye, biba birimo ibitanda abarwayi baryamaho, kugira ngo babashe kongererwa umwuka wo guhumeka, kuko hari abarwayi baza bafite ikibazo gikomeye cyane, bikaba ngombwa yuko imashini z'ikoranabuhanga, zibongerera umwuka cyangwa amaraso.

Ibigo nderabuzima n'ibitaro bikuru, usanga inyubako zabyo zigenda zubakwa ku buryo bwa kijyambere, aho usanga bubaka inzu zigeretse, kandi bakazikorera n'ubusitani buteyemo ibiti byiza by'inganzamarumbo bizajya bitanga umwuka abantu bahumeka.

Inzu y'ababyeyi iboneka kwa muganga cyangwa ku bitaro, ibamo ibikoresho byose umubyeyi wagiye kubyara ashobora kwifashisha kandi n'abaganga bakabikoresha kugira ngo bafashe umubyeyi utwite kubyara umwana nta kibazo kibayeho.

Kwa muganga habayo ibitanda bitandukanye ariko biba byegeranye n'imashini z'ikoranabuhanga rishinzwe gufasha abarwayi zikabongerera umwuka bahumeka, cyangwa se amaraso ibizwi nka serumu kugira ngo umurwayi abashe gusubirana ubuzima bwiza.

Mu nyubako kwa muganga dusangamo ibyumba byubatse ku buryo bw'ikoranabuhanga, aho biba biteye amarangi meza cyane, ariko akarusho hejuru ya buri muryango haba handitseho inomero ndetse n'igikorwa kihakorerwa, kugira ngo borohereze abarwayi kuhamenya.

Kwa muganga no ku bigo nderabuzima bagira ububiko bwabugenewe bushinzwe kubikwamo imiti yose ikoreshwa mu kuvura abarwayi, aho ubwo bubiko buba bwubatse hifashishijwe imbaho zigezweho, kugira ngo imiti ishyirwe ahantu hejuru itagerwaho n'ubukonje cyangwa ubushyuhe bwinshi.

Mu nyubako kwa muganga dusangamo ibikoresho bitandukanye, birimo ibitanda byegeranye n'imashini z'ikoranabuhanga, umurwayi aryamaho kugira ngo abashe kubona inyunganizi y'umwuka, kuko hari igihe aba arembye cyane, bikaba ngombwa yuko bamwongerera umwuka cyangwa amaraso mu mubiri.

Mu nyubako imbere kwa muganga dusangamo ibikoresho bitandukanye birimo amatara ya kijyambere, birimo ameza abaganga bavuriraho abarwayi, birimo ibyifashishwa mu gupima indwara zitandukanye kandi uba ubona ko ari icyumba cyisanzuye ku buryo haba harimo n'amatara amurika, bityo bikorohera abaganga gukora igikorwa cyabo neza.

Kwa muganga tuhasanga ibikoresho bitandukanye, birimo imashini za kijyambere zifashishwa mu kuvura umurwayi, kumupima, cyangwa se kumubaga, hakaba n'intebe umurwayi yicaraho kugira ngo avurwe.

Icyumba kirimo ibitanda byinshi abarwayi baryamaho mu gihe barwariye kwa muganga, hejuru ya buri gitanda hamanitse inzitiramibu ifasha umurwayi kutaribwa n'udukoko cyangwa imibu ngo imutere Malariya.

Ibigo nderabuzima biba bifite inyubako nziza zitandukanye, ariko bikagira n'ubusitani abaturage baruhukiramo, igihe bategereje yuko bahabwa ubufasha baje gushaka kwa muganga, aho usanga bicaye mu busitani baganira bari no kota izuba.

Abantu benshi bakunze kwibasirwa n'indwara y'amaso, ikabahangayikisha cyane ikababuza no kureba, aho usanga kwa muganga bagira inama abo bantu kuza kwivuza amaso kugira ngo babashe kureba neza.

Inyubako zo kwa muganga zigira ibyumba byinshi cyane, aho buri muganga agira icyumba abarizwamo ndetse anavuriramo abarwayi be ikindi wasanga n'uruganiriro kandi inzu zaho ziba zifite isuku.

Inyubako nini ifite imiryango myinshi ndetse n'amadirishya, ikaba yubatse ku buso bunini cyane, ikagira ubusitani bugari bwisanzuye buteyemo n'indabyo kandi ikagira n'imihanda iyi inyurwamo n'abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga, ikaba yaragenewe kuvurirwamo abantu batandukanye.

Inyubako yisanzuye yubatse ku buso bunini kandi ifite ubusitani buteyemo ibiti by'inganzamarumbo bitanga umwuka mwiza abaturage bahumeka, ikagira n'imihanda inyuramo abanyamaguru n'abakoresha ibinyabiziga.

Kwa muganga na ho tuhasanga ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, birimo ibyuma byo guterura, aho abarwayi barwarira kwa muganga, bashobora kubikoresha, mu gihe bari gukora imyitozo ngororamubiri, ku kiguzi cy'ubuntu, kuko ubusanzwe kubigura usanga bihenze.

Ubuvuzi bwateye imbere cyane ku buryo usanga bukora mu nyubako zigeretse za etaje, ikindi buba bwubatse ku buso bunini bwisanzuye, aho usangamo n'ubusitani buteyemo ibiti bitanga umwuka mwiza abantu bahumeka, Hakaba n'imbuga nini abakoresha ibinyabiziga baparikamo imodoka n'amamoto.

Mu nyubako kwa muganga dusangamo ibikoresho bitandukanye harimo n'iby'ikoranabuhanga, imashini zishinzwe gupima umurwayi, mudasobwa, intebe zabugenewe zo kwicaraho ndetse n'ibitanda umurwayi aryamaho kugira ngo izi mashini zibashe kumupima.

Inyubako z'ibigo nderabuzima zisigaye zubakwa ku buso bunini kandi zigahabwa amazu meza cyane yubatse ku buryo bw'igorofa, aho usanga zifite ubusitani buteyemo ibiti byiza n'indabo, zikagira kandi n'imbuga ihagije igomba guparikamo n'ibinyabiziga.

Mu nyubako kwa muganga haba ibikoresho bitandukanye bishobora kwifashishwa mu kuvura abarwayi, abaganga bagira imashini za mudasobwa bakoresha igihe bahiga amakuru yerekeranye n'umuti runaka bagiye kuvurisha umurwayi.

Uruhinja rukivuka rurabanza rugakorerwa isuku yo ku mubiri irimo kurwoza, ubundi bakarwambika imyenda, bakarushyikiriza umubyeyi akarwonsa, rukagira ubuzima bwiza.

Kwa muganga tuhasanga ibitanda byinshi bitandukanye kandi hejuru ya buri gitanda haba hamanitse inzitiramibu ikoreshwa kugira ngo umurwayi ataribwa n'imibu igihe arwariye kwa muganga, bityo abashe kugira ubuzima bwiza.

Inyubako zirenze eshatu, zubatse ku buryo bwisanzuye ahantu ku muhanda kandi ziteye amarangi meza, zagenewe gutangirwamo ubufasha bwo kuvura abantu indwara zitandukanye.

Mu rwego rwo guhashya indwara ya Malariya, ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda bwashyizeho inyubako zishinzwe gukorerwamo ubushakashatsi kugira ngo hirindwe imibu yibasira abaturage ikabatera indwara ya Malariya ndetse bashake n'imiti yo kurwanya no kwica iyo mibu.

Kwa muganga naho tuhasanga icyumba cyihariye kirimo intebe nziza zigezweho za kijyambere, kikabamo indabo ndetse n'ameza ku buryo kifashishwa mu kuganira hagati y'abaganga n'abayobozi bakuru b'ibigo nderabuzima cyangwa ibitaro.

kwa muganga tuhasanga ibikoresho bitandukanye harimo n'imashini z'ikoranabuhanga zifashishwa mu kuvura umurwayi kugira ngo babashe kumupima, bamusuzume n'inyama z'imbere mu mubiri we ubundi bagire uko bazivura, bamuhereza imiti akire.

Ku kigo nderabuzima usangayo inzu yahariwe ababyeyi kugira ngo yifashishwe n'abagore batwite bayibyariremo. Iyi nzu iba irimo ibikoresho bitandukanye umugore ugiye kubyara ashobora gukenera, kandi ikorwamo n'abaganga bashinzwe kubyaza abagore.

Kwa muganga tuhasanga ibikoresho bitandukanye, harimo n'amacupa manini, aba arimo umuti wa acide, ukoreshwa mu kuzimya umuriro, mu gihe inkongi yibasiye ibitaro cyangwa ibigo nderabuzima kugira ngo hahite hatabarwa ubuzima bw'abaturage, ibigo nderabuzima cyangwa ibitaro bidashya.

Umuganga uri kwita ku murwayi wahuye n'ikibazo kijyanye no kuba afite ubumuga bw'ingingo, aho amaguru ye yagize ikibazo agenda yifashishije akagare kwa muganga bamuhaye.

Ku bitaro bikuru no kwa muganga tuhasanga abazamu bashinzwe gucunga umutekano w'ibinyabiziga byinjira muri ibi bitaro, kugira ngo babasake barebe ko nta bitwaro baba bitwaje bishobora gushyira ubuzima bw'abarwayi bahaherereye mu kaga.

Kwa muganga tuhasanga icyumba cyabugenewe cyo gukorerwamo imyitozo ngororamubiri kuko uhasanga ibikoresho byifashishwa muri iki gikorwa, harimo ibyuma byo guterura ndetse n'itapi nziza y'icyatsi kibisi, abantu bashobora gukoreramo imyitozo ngororamubiri, bakayiryamaho barambura ibice by'umubiri birimo n'umugongo.

Ku bigo nderabuzima n'ibitaro tuhasanga abarinzi bashinzwe kwaka abantu binjira ibyangombwa ndetse bagahagarika n'ibinyabiziga bakabisaka, kugirango hatagira uwinjirana ibisasu akaba yahitana ubuzima bw'abantu mu bitaro.

Kwa muganga no ku bigo nderabuzima uhasanga inyubako zuzuye nshyashya zanditseho amagambo agira ati inzu y'ababyeyi materinite, zikaba zaragenewe kwifashishwa n'abadamu batwite kugira ngo bazibyariremo.

Hari abantu bacuruza imiti ivura abantu ariko bakorera mu mazu yabo yigenga atari mu bigo nderabuzima cyangwa mu bitaro, barabanza bakabisabira uburenganzira n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti Rwanda FDA, ubundi babemerera na bo bagatangira gukora bakavura abantu.

Ibitaro bya Kabgayi biherereye mu Majyepfo y'Igihugu cy'u Rwanda, mu Karere ka Muhanga. Bikaba bizwiho mu gutanga ubuvuzi buhambaye, ko umuturage wese ugiye kuhivuriza indwara y'amaso, ataha yakize, akagenda ahirahira.

Mu nyubako kwa muganga dusangamo icyumba cy'uruganiriro, kiba kirimo intebe nziza abayobozi bicaraho, mu gihe bari kujya inama n'abaganga, bafata imyanzuro banarebera hamwe, icyo bakora kugira ngo barusheho gutanga ubufasha ntakemwa ku barwayi babagana.

Kwa muganga haba icyumba cyabugenewe kibikwamo ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, aho usanga abarwariye kwa muganga bakenera gukora imyitozo, ubundi bakifashisha ibi bikoresho bihaboneka.

Inyubako z'ibitaro n'ibigo nderabuzima zisigaye zubakwa ku buryo bw'amagorofa kandi zikubakwa ku buso bwisanzuye, yewe hakagenerwa n'ubusitani bunini cyane buteyemo ibiti by'inganzamarumbo, bizajya bitanga umwuka mwiza abaturage bahumeka.

Abana bakiri bato nabo bafite agaciro gakomeye kuko leta yabashyiriyeho inyubako z'ibigo nderabuzima zishinzwe kwita ku buzima bwabo, bityo hakoramo abayobozi batandukanye bashinzwe kumenya niba ibyo bagenera umwana ukiri mutoya bimugeraho birimo imfashamirire cyangwa se imfashabere.

Ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, za mudasobwa mateleviziyo ndetse n'ibyuma bitanga umuyaga, biherereye kwa muganga mu nyubako zahariwe gukorerwamo ubushakashatsi.

Mu nyubako kwa muganga habamo imashini za mudasobwa, zifashishwa mu gushaka amakuru cyangwa kuzuzamo amakuru y'umurwayi, hakabamo intebe z'ikoranabuhanga zigezweho umurwayi aryamamo kugira imashini zimupime.

Inyubako zo kwa muganga zirimo Ibigo Nderabuzima, usanga zubatse ku buryo bwisanzuye cyane, haba hari aho ibinyabiziga biparika, hakaba intebe abarwayi bicaraho, hakaba kandi ubusitani bwiza buteyeyemo ibiti by'inganzamarumbo, bitanga umuyaga abaturage bahumeka.

Inyubako z'ibigo nderabuzima n'ibitaro, zigenda zitera imbere cyane kuko usanga zubatse mu mijyi kandi ku nyubako zigahabwa amarangi, zigakorerwa n'isuku ihambaye, bakazubakira n'ubusitani, ku buryo usanga ari ahantu heza cyane.

Muganga yicaranye n'umurwayi, aho yamwambitse igitambaro cyabugenewe, mu kurega imitsi, kugira ngo abashe kubona uko amuvoma amaraso, ubundi amupime indwara zitandukanye, abone kumuhereza imiti imuvura.

Hari igihe biba ngombwa y'uko umurwayi, yongererwa amaraso mu mubiri cyangwa bakamuteramo serumu mu gihe ari kwa muganga. Niyo mpamvu tuhasanga ibitanda by'ikoranabuhanga, byegeranye n'imashini za mudasobwa, umurwayi aryamaho kugira ngo avurwe.

Inyubako zo kwa muganga usanga zirimo amarangi, zubatse ku buryo bukeye, amatara agezweho ya kijyambere, isima, imiryango myinshi kandi yanditseho amagambo ku buryo byorohera buri murwayi kumenya ahantu ari bwivuririza.

Hari inyubako zubatswe zishinzwe gufasha abantu bahura n'akarengane gatandukanye, harimo abakozi bakora mu ngo bahohoterwa, abagore n'abakobwa bahohoterwa n'abagabo babo ndetse n'abagabo bahohoterwa na bo ntibahejwe, ibirego byabo bose babijyana ku kigo bita Isange One Stop Center, cyubatswe kugira ngo kigabanye akarengane gakorerwa muntu.

Kwa muganga mu nyubako habamo ibikoresho bitandukanye, birimo intebe abarwayi bicaraho kugira ngo bongererwe serumu cyangwa baterwe amaraso, hakaba n'ameza ya kijyambere agezweho ndetse n'utubati two kubikamo imiti.

Mu cyumba kwa muganga dusangamo ibikoresho bitandukanye birimo: igitanda, intebe nziza za kijyambere ndetse n'imashini z'ikoranabuhanga, zifashishwa mu gupima umurwayi kugira ngo harebwe indwara yaba arwaye ubundi ayivurwe akire.

Ikigo nderabuzima cya Rwerere cyubatse ku buso bunini cyane kandi gifite inyubako zisanzuye, ariko nta muriro w'amashanyarazi uhagera kuko gikoresha umuriro ukomoka ku mirasire y'izuba, imanitse hejuru y'inzu.

Ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge byubatse ku buso bunini kandi bifite imbuga ihagije, imodoka zibasha guparikamo, hari n'imihanda y'abanyamaguru kandi byubatse bikoresheje inyubako z'amagorofa zigerekeranyije.

Abaturage bashobora kwivuriza kwa muganga cyangwa ku Bigo Nderabuzima, cyangwa bakagana amazu yigenga acuruza imiti ivura abantu, kuko aba yarahawe uburenganzira bw'Ikigo cy'Igihugu gitsura Ubuziranenge bw'Imiti n'Ibiribwa mu Rwanda, Rwanda FDA.

Abarwayi baryamye kwa muganga ku bitanda, bari kwitabwaho n'abaganga bambaye impuzankano, agapfukamunwa n'uturindantoki, aho bari kubasuzuma kugira ngo barebe indwara barwaye, maze babahe imiti ibavura.

Mu nyubako kwa muganga habamo ibyumba byinshi bitandukanye, hakabamo n'ibikorerwamo ubushakashatsi kugira ngo abaganga bavumbure udukoko dutera indwara zitandukanye zirimo malariya, inzoka zo mu nda, za mburugu ndetse n'imitezi.

Mu Rwanda hari ibitaro bikuru bishinzwe kuvura indwara ya Kanseri ikunze kwibasira abantu benshi, harimo n'abagore barwara Kanseri y'ibere cyangwa abagabo barwara Kanseri y'ibindi bice by'umubiri.

Itsinda ry'abaganga bagizwe n'abakobwa n'abahungu bambaye impuzankano, bari gukora ubushakashatsi bifashishije ibyuma by'ikoranabuhanga biboneka kwa muganga kugira ngo babashe kuvumbura ikibazo gitera indwara runaka.

Inyubako nziza kandi igezweho yubatse ku buryo bw'igorofa kandi ifite ubusitani bunini bugezweho, hateyemo n'ibiti by'inganzamarumbo ndetse n'indabo, ikaba yaragenewe gutangirwamo ubufasha bwo kuvura abantu indwara zitandukanye.

Abaganga ni bamwe mu bantu bazi gutega amatwi ababagana, bakabumva bakita ku bibazo bafite ubundi bakabona kubafasha, yaba mu kubaha ubujyanama cyangwa mu kubasuzuma bakabahereza imiti yo kubavura.

Kwa muganga bagira ububiko bwagenwe, bubikwamo imiti ikoreshwa mu kuvura abarwayi, aho buba bwubatse ku buryo bwa kijyambere, ubukonje ntibwabasha kugera muri ubu bubiko ndetse n'ubushyuhe bukabije ntibwabasha kugera muri ubu bubiko.

Kwa muganga bagira ububiko bwabugenewe buba bwubatse hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga, aho usanga bubikwamo ibikoresho bitandukanye, harimo n'amaraso kugira ngo atagerwaho n'ubukonje cyangwa ubushyuhe bukabije, maze azifashishwe mu kuvura abarwayi mu gihe kiri imbere.

Ibitaro bya Nyanza, biherereye mu majyepfo y'u Rwanda, mu karere ka Nyanza, mu murenge wa Nyanza. Aho byagize uruhare rukomeye cyane, mu kuvura abaturage, yaba abatuye muri aka karere, ndetse n'abatuye mu mirenge ya Kinazi yo mu karere ka Huye, ihana imbibi n'akarere ka Nyanza.

Kwa muganga haba ibyumba bitandukanye byo kuvuriramo abarwayi, hakaba n'icyumba cyihariwe cyagenewe kubagirwamo abafite ibibazo bitandukanye by'ingingo zo ku mubiri, kugira ngo bavurwe na bo babashe gukira.

Imiti bavurisha kwa muganga ibikwa mu bubiko bwabugenewe bw'ikoranabuhanga, aho usanga ibikwa ahantu hejuru kugira ngo itagerwaho n'ubukonje ubundi ikabasha kuba yakangirika, bityo iyo ibitswe mu bubiko bwabugenewe ibasha kumara igihe kirekire.

Kwa muganga bagira ububiko bwabugenewe bw'ikoranabuhanga, bwifashishwa mu kubika amaraso baba bafashe abantu, bakayashyira ahantu ku buryo atari bubashe kugerwaho n'ubukonje cyangwa ubushyuhe bukabije, maze akazamara igihe kinini, agakoreshwa mu kuvura abarwayi batandukanye.

Umuntu ashobora gukora imyitozo ngororamubiri ku giti cye cyangwa akayikorana na mugenzi we, aho amufasha mu kugorora ibice bigize ingingo z'umubiri we, harimo amaguru, amaboko cyangwa se umugongo.

Ukoresha agatambaro gasa neza ukagakoza mu mazi ashyushye, ni kimwe mu mu gikorwa cyo kwivura imvune umuntu ashobora guhura nayo, mu gihe yari arimo akora imyitozo ngororamubiri, bikaba byamufasha agahita akira vuba cyangwa se ntabyimbirwe ku mubiri we.

Ibikoresho birimo umuti wifashishwa mu gusukura amenyo, impapuro zo gukora isuku, udutambaro twabugenewe mu kwihanagura ibyuya, ikaramu n'ibindi, ni bimwe mu byifashishwa n'umuntu ukora imyitozo ngororamubiri.

Igikapu cy'umuntu ukora imyitozo ngororamubiri kibitsemo ibikoresho bitandukanye harimo umuti w'amenyo akoresha akora isuku yo mu kanwa, hakabamo n'udutambaro akoresha igihe yahuye n'imvune cyangwa yagize igikomere, hakabamo n'udutambaro two kwihanagura ibyuya n'ibindi bikoresho.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi ahuye n'ikibazo cyo kuvunika mu ivi aho yamwambitse ibikoresho by'ikoranabuhanga bishobora kumufasha akongera akagenda, ubundi na we akabaho afite ubuzima bwiza.

Gukora imyitozo ngororamubiri byitabirwa n'abagabo ndetse n'abagore, kuko bamenye akamaro kayo, ifasha umuntu kutagira umubyibuho ukabije, kandi umuntu ukora imyitozo ngororamubiri, ahora yumva ameze neza mu mubiri, nta mavunane ashobora kugira.

Umusore wavunitse mu gihe yarari gukina umupira w'amaguru, aryamye hasi imbere ye hari abashinzwe gutabara abantu bahuye n'ibibazo, barimo baramukandira amaguru, hirya ye hahagaze abakinnyi bakinanaga bategereje ko bamuvura agakira kugira ngo umukino ukomeze.

Umuntu ashobora kwivura imvune akoresheje agatambaro gasa neza akagakoza mu mazi ashyushye, ubundi akagenda atsirita ku ruhu rwe kugira ngo atabyimbirwa kandi agabanye uburibwe mu mubiri.

Umuntu ashobora gukora ibikorwa bitandukanye bishobora kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri, harimo nko kwirukanka, kurambura imitsi y'ukuboko, kurambura umugongo n'amaguru kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, afite isume ku rutugu yo kwihanaguza ibyuya, afite n'icupa ry'amazi, arimo arayanywa kubera ko yabize ibyuya byinshi, umubiri we ugakakara, agakenera kunywa andi mazi kugira ngo usubirane ubuhehere.

Umuntu ashobora guhura n'imvune cyangwa ubumuga mu gihe ari gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yavunika nk'ukuguru, bityo hari inkoni zabugenewe z'ikoranabuhanga abasha kwifashisha kugira ngo ajye agenda, ukaba uzisanga kwa muganga cyangwa mu bitaro.

Ukora imyitozo ngororamubiri agomba gukina imikino itandukanye. Irimo imikino y'amaboko, umupira w'amaguru, kwirukanka, gusimbuka imigozi, cyangwa se no gukina agapira k'abana bato.

Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri ategekwa kurya ibiryo byujuje intungamubiri kugira ngo bitamugiraho ingaruka kuko atakaza imbaraga nyinshi ari muri iki gikorwa, agomba kurya amagi, akarya ibishyimbo, akarya imbuto zitandukanye zirimo amashu, ibinyomoro, amacunga, inanasi kandi agomba kwibuka no kunywa amazi.

Ukora imyitozo ngororamubiri yifashisha ibikoresho bitandukanye, harimo n'udutambaro tumufasha kwizirika ku mubiri kugira ngo atabyimbirwa mu gihe yahuye n'igikomere cyangwa se akavunika, arimo akora imyitozo ngororamubiri.

Hari igihe umuntu ashobora guhura n'imvune mu gihe yari ari gukora imyitozo ngororamubiri, biba ngombwa yuko ajya kwa muganga bakamufasha, bakamuhambiraho ibitambaro byabugenewe kugira ngo bifashe umubiri we kongera kwegerana, bityo atabasha kubyimbirwa.

Umusore ukiri mutoya wiherereye wenyine ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura ingingo z'umubiri we zirimo amaboko inkokora umugongo ndetse n'igihimba.

Bimwe mu bikoresho umuganga akenera, birimo: uturindantoki, agapfukamunwa, impuzankano ndetse n'imashini ya mudasobwa, yifashisha igihe arimo gushaka amakuru y'abarwayi cyangwa yuzuza amazina yabo.

Umugore wambaye ibikoresho bituma yumva umuziki, afite icupa ry'amazi ari kunywa, yambaye n'imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri, ari kwirukanka kugira ngo abashe kugorora ingingo z'umubiri we.

Hari igikoresho cyabugenewe umuntu ukora imyitozo ngororamubiri agomba kwambara mu mutwe kugira ngo bimurinde kuba yakomereka nk'igihe ari gukina umupira, bagenzi be bashobora kumukubita inkokora yo mu gahanga ariko yambaye iki gikoresho abasha kutagira ikibazo.

Itsinda ry'abaganga baherereye mu cyumba kwa muganga, bari kwifashisha ibikoresho by'ikoranabuhanga, mu gusuzuma abarwayi, kugira ngo harebwe ikibazo bafite babashe kubavura.

Umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri, akoresheje amaboko ye, kugira ngo arambure imitsi, bimurinde kugira amavunane cyangwa bimurinde kugira umubyibuho ukabije, ukunze kwibasira ab'igitsina gore.

Igikapu cy'umuntu ukora imyitozo ngororamubiri, kirimo ibikoresho bitandukanye, birimo umuti w'amenyo ukoreshwa mu gukora isuku, udutambaro two kwihanagura igihe ari kwiruka yabize ibyuya, amazi yo kunywa, ndetse n'imiti yo kwivura indwara zitandukanye.

Kunywa amazi bifite akamaro gakomeye cyane, ni yo mpamvu buri muntu wese ashishikarizwa kunywa amazi cyane abakora imyitozo ngororamubiri, kuko adufasha mu bintu bitandukanye harimo igogora ryo mu gifu, amazi kandi asohora imyanda mu mubiri binyuze mu kubira ibyuya kandi afasha n'impyiko gukora neza.

Abakora imyitozo ngororamubiri benshi, bakunze guhura n'ikibazo cyo kuvunika amagufwa cyangwa kuvunika ingasire yo mu ivi, aho biba ngombwa yuko bajyanwa ku bitaro kugira ngo bakurikiranwe n'abaganga, babyize kandi babifitiye ubushobozi.

Abakora imyitozo ngororamubiri hari igihe bahura n'imvune cyangwa igikomere, ariko hari imiti yabugenewe bagomba kwifashisha igabanya uburibwe n'ububabare iba ifunitse mu macupa, kandi ikaboneka kwa muganga no mu bigo nderabuzima.

Hari amavuta akoreshwa mu gusigwa k'umubiri, kugira ngo abashe kurambura imitsi y'umuntu, bityo ashobora gusimbura gukora igikorwa cy'imyitozo ngororamubiri, kuko usanga abafite amafaranga bayagura, maze bikabafasha kugira ubuzima bwiza.

Umuturage uri kwikanda ku maboko, ukoresheje amazi ashyushye ndetse n'agatambaro, kugira ngo yivure ahantu yahuye n'igikomere igihe yarari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuganga uri gufasha umuntu wahuye n'ikibazo cyo kuvunika no gukomereka mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri, muganga ari kumugorora ivi amukandira kugira ngo ingasire itabasha gutandukana.

Kwa muganga tuhasanga ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo n'intebe za kijyambere abarwayi baryamaho kugira ngo bongererwe amaraso cyangwa baterwe serumu cyangwa se imashini zibapima indwara zitandukanye.

Umusore uri gukora igikorwa cy'imyitozo ngororamubiri, aho yambaye imyenda irimo isengeri, akaba afite n'icupa ry'amazi ari kugenda asomaho, kubera ko ari kubira ibyuya agatakaza amazi menshi bigatuma agira inyota, nawe agakenera andi mazi yo kunywa.

Abana batoya nabo bakenera gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo barambure umubiri wabo, amagufwa akomere kandi agororoke, bityo ababyeyi ni inshingano zabo gukoresha abana bakiri batoya imyitozo ngororamubiri, babagorora ingingo z'umubiri wabo cyangwa bakabareka bagakina imikino itandukanye.

Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri ashobora guhura n'imvune, bikaba ngombwa yuko yifashisha ibitambaro byabugenewe, bishinzwe kwizirika ku mubiri kugira ngo birinde umuntu ububabare cyangwa se bimurinde kuba yabyimbirwa.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, afite n'imipira yo gukina hakurya ye ku buryo ashaka kugorora imitsi yose igize ingingo ze z'umubiri ubundi akarwanya umubyibuho ukabije.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, azamura amaboko yongera ayamanura, kugira ngo agorore ibice by'umubiri we, kandi yirinde indwara zitandukanye zirimo kugira n'umubyibuho ukabije.

Abagore bamenye akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri birimo kugabanya no kurinda umubyibuho ukabije, ubafasha kwirinda indwara zirimo n'umuvuduko ukabije. Kandi usanga iyo bari mu ngo zabo bakora imyitozo ngororamubiri.

Hari imiti itandukanye ishobora gufasha umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, harimo nk'imufasha kugabanya uburibwe yahura na bwo igihe yagize igikomere cyangwa se agahura n'imvune ari gukora imyitozo ngororamubiri irimo kwiruka cyangwa gukina umupira w'amaguru.

Abakora imyitozo ngororamubiri bashishikarizwa kunywa amazi meza kandi mbere yo kuyanywa bakabanza bakayasuka mu gikombe kibonerana kugira ngo barebe ko nta myanda irimo, kunywa amazi bidufasha mu gusohora imyanda mu mubiri wacu.

Umuntu ashobora guhura n'ikibazo cyo kuvunika ivi mu gihe yari ari gukora imyitozo ngororamubiri. Bikaba ngombwa yuko ajya kwa muganga kugira ngo bamusigireho umuti wabugenewe kandi bamukurikirane kugira ngo yirinde ingaruka zirimo no kuba yacika ukuguru.

Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri agomba kurya ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri, birimo imbuto nk'inanasi, amacunga, imineke kandi akarya n'ubunyobwa n'ibishyimbo, kugira abashe kugira ubuzima bwiza.

Abagabo babiri bari gukora imyitozo ngororamubiri, umwe ari gufasha mugenzi we kugorora amaguru, aho mugenzi we aryamye hasi, undi na we akamugororera ibice by'umubiri we, harimo amaguru ndetse no mu nda kugira ngo babashe gukora imyitozo ngororamubiri.

Ushobora kwitegereza ibiganza bibiri, kimwe cy'umuntu ukora imyitozo ngororamubiri n'ikindi cy'umuntu udakora imyitozo ngororamubiri. Haba harimo itandukaniro cyane kuko ikiganza cy'umuntu ukora imyitozo ngororamubiri kiba gikomeye kandi nta mitsi, cyangwa iminkanyari agira ku ruhu rwe. Bitandukanye n'umuntu utayikora aho usanga umubiri we ukanyarara.

Umusore wicaye ahantu arimo aragorora imitsi y'ukuguru kwe kuko amaze gukora imyitozo ngororamubiri yo kwiruka maze impfundiko zikamurya, akaba ari kurambura imitsi kugira ngo agabanye uburibwe.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni igikorwa cy'ingenzi cyane buri muntu wese yagakwiriye kwitabira, haba kuyikorera mu rugo aho dutuye kugira ngo twirinde indwara nyinshi zirimo no kwibasirwa n'umubyibuho ukabije cyangwa se kugira amavunane mu mubiri wacu.

Umuganga ashobora gufasha umurwayi uri mu bitaro cyangwa ku kigo nderabuzima na we agakora imyitozo ngororamubiri, akamuzanira nk'imigozi akayifashisha arambura amaboko ye cyangwa akamwigisha kugenda hakoreshejwe inkoni z'ikoranabuhanga.

Kunywa amazi meza ni igikorwa cy'ingenzi cyane ku buzima bw'umuntu, bityo umuntu akwiriye kuyanywa, cyane wa wundi ukunda gukora imyitozo ngororamubiri kuko atakaza ibyuya byinshi ari gukina umupira, cyangwa kwiruka, ubundi na we agakenera kunywa andi mazi kugira ngo umubiri usubirane ubuhehere.

Imashini nini cyane yabugenewe y'ikoranabuhanga ifite n'igitanda umurwayi aryamaho kugira ngo ibashe kumupima ibice by'imbere mu mubiri we, yaba ibyo mu nda cyangwa ibice byo mu mutwe birimo n'ubwonko.

Gukora imyitozo ngororamubiri ku bagore, bibafasha kwirinda indwara zirimo kugira umubyibuho ukabije kandi bakirinda umuvuduko w'amaraso cyangwa gutera k'umutima cyane, bikabafasha kugira amasaziro meza.

Kunywa amazi ni igikorwa cy'ingenzi cyane kuko amazi adufasha gusohora imyanda mu mubiri, amazi atuma umuntu ahumeka neza, amazi kandi afasha impyiko gukora neza, abakora imyitozo ngororamubiri atakaza ibyuya byinshi, nabo bagasabwa kunywa andi mazi kugira ngo basubirane ubuhehere mu mubiri.

Hari ibikoresho bitandukanye bishobora gufasha umuntu ukora imyitozo ngorora mubiri cyangwa ukina umupira w'amaguru kugira ngo adahura n'imvune yo mu mavi. ibyo bikoresho umuntu abigura kwa muganga cyangwa mu mazu y'ubucuruzi akabyambara kugira ngo mugenzi we n'amuvuna atabasha gukomereka mu nyama z'imbere.

Umugore wicaye iwe muri salo ari gukora imyitozo ngororamubiri kandi afite n'icupa ry'amazi kugira ngo niyahagira cyangwa afite icyaka abashe gusoma ku mazi agarure akayanja mu mubiri.

Abana batoya bari gukina umukino w'umupira w'amaguru ndetse n'umukino w'umupira w'intoki kugira ngo bakore imyitozo ngororamubiri, birinde indwara zirimo kugira umubyibuho ukabije kandi basohora imyanda mu mubiri, babinyujije mu kubira ibyuya igihe bari gukina umukino.

Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri usanga atunze ibikoresho bitandukanye bishobora kumufasha kugira ubuzima bwiza. Udutambaro akoresha two gukora isuku igihe yihanagura ibyuya, hakabamo umukasi wo gukatisha igitambaro cyo kwizirika igihe yahuye n'imvune.

Umuntu wese ukora imyitozo ngororamubiri, agomba kurya ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri, birimo ibitera imbaraga nk'ibishyimbo birimo imyumbati, akarya kandi n'imbuto nka avoka, urusenda, inyanya, imboga rwatsi kandi akanywa n'amazi.

Kunywa amazi ni igikorwa cy'ingirakamaro cyane mu buzima bwa muntu, kuko bimufasha mu bikorwa bitandukanye, harimo nko kuyungurura amaraso, gusohora imyanda mu mubiri, amazi kandi afasha umuntu kugira uruhu ruhehereye, bityo uruhu rwe ntirugire umwuma cyangwa ngo rusaduke.

Bimwe mu bintu biranga umuntu ukora imyitozo ngororamubiri harimo kugira imbaduko ahantu hose mu gikorwa ari gukora, kandi usanga afite umubiri uringaniye, ntabwo yakwibasirwa n'umubyibuho ukabije, ikindi agira uruhu rukomeye n'amagufwa akomeye, nta n'imitsi yakwibasira uruhu rwe.

Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri, asabwa kurya indyo yuzuye, ikungahaye ku bitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibiririnda indwara, birimo amagi inyama n'imbuto zitandukanye, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza. Ubundi abone kujya gukora imyitozo ye, kuko gukora imyitozo, bijyana no kurya neza, kugira ngo umubiri ubone ibyo ukeneye.

Umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri agorora umugongo we ndetse n'inkokora n'amaboko, kubera ko yamaze kumenya agaciro ko gukora imyitozo ngororamubiri, harimo gufasha umuntu gusohora imyanda mu mubiri, ndetse no kwirinda indwara zitandukanye.

Umuntu ashobora kugira imvune yo mu ivi igihe ari gukora imyitozo ngororamubiri, ingasire y'ivi ikaba yakangirika, aba asabwa kujya kwa muganga kugira ngo babashe kumushyiriraho imiti yabugenewe kandi bamuvure kuko bishobora kumuviramo n'imvune cyangwa ubumuga, bityo rero mu gihe umuntu wagize imvune asabwa kwihutira kujya kwa muganga.

Umusore urimo uranywa amazi meza ariko ari gukora n'igikorwa cy'imyitozo ngororamubiri kuko ari kwirukanka kugira ngo abashe gusohora imyanda mu mubiri we binyuze mu kubira ibyuya.

Iyo urebye mu gikapu cy'umuntu ukora imyitozo ngororamubiri usangamo ibikoresho bitandukanye, harimo umuti w'amenyo akoresha mu kanwa, hakabamo n'impapuro z'isuku akoresha igihe ari kwihanagura ibyuya.

Umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri yifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga, birimo ibimufasha kwiruka atavuye aho ari, imbere ye hari umuganga w'umugabo uri kumwerekera anamugira inama y'ukuntu bikorwa.

Ab'igitsina gore nabo basigaye bitabira ibikorwa by'imyitozo ngororamubiri kuko bamaze kumenya agaciro kabyo, kuko gukora imyitozo ngororamubiri bibafasha kwirinda umubyibuho ukabije, ndetse bikabarinda n'indwara zitandukanye zirimo n'umuvuduko w'amaraso.

Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri agomba kuba atunze ibikoresho bitandukanye birimo umuti wo koza amenyo n'uburoso, hakabamo uturindantoki, hakabamo imiti yo kwivura, hakabamo kandi iradiyo yo kumva umuziki, hakabamo n'ibikoresho byo gukora isuku.

Mu gihugu cy'u Rwanda hari umuryango ushinzwe gutabara ubuzima bw'abantu buri mu kaga wa croix rouge, ufite ikimenyetso cy'umusaraba, aho ukorera ku bigo nderabuzima ndetse no mu nzego z'ibanze mu baturage kugira ngo utabare abantu bahuye n'ibibazo bitateguwe.

Hari ibintu bitandukanye umuntu ashobora gukora, kugirango ngo agire ubuzima bwiza. Kurambura ingingo z'umubiri we wose, kunama akagorora umugongo, gukora imyitozo yo kwirukanka cyangwa se kunywa amazi menshi, ni bimwe mu bifasha umuntu kugira imibereho myiza.

Gukora imyitozo ngororamubiri bigira akamaro gatandukanye ku muntu ubikora, harimo kwirinda kugira umubyibuho ukabije, kugorora imitsi y'umubiri, ndetse no gutuma ingingo harimo nk'amagufwa z'umubiri zikomera. Abagore na bo basigaye bitabira igikorwa cyo gukora imyitozo ngororamubiri, kuko bamaze kumenya akamaro kayo.

Mu gikapu cy'umuntu ukora imyitozo ngororamubiri dusangamo ibikoresho bitandukanye, harimo impapuro akoresha mu isuku yihanagura ibyuya, hakabamo icupa ry'amazi yo kunywa, hakabamo n'imiti yo kwivura indwara zirimo nk'umutwe.

Hari ibyuma bitandukanye by'ikoranabuhanga bishobora gufasha umuntu gukora imyitozo ngororamubiri, harimo nk'ibyuma baterura, ibyuma bifasha umuntu kurambura amaboko, imigozi yo gusimbuka cyangwa se imigozi yo gutaruka, kugira ngo umuntu arambure ingingo zirimo n'amaguru.

Bimwe mu bikoresho umuntu ukora imyitozo ngororamubiri ashobora kwifashisha, harimo no kwambara uturindantoki igihe agiye guterura ibyuma, kuko bishobora kumukata mu ntoki, cyangwa se bikamutera amabavu, niyo mpamvu ashishikarizwa kwambara uturindantoki igihe cyose agiye guterura ibyuma.

Abantu bashobora gukora imyitozo ngororamubiri babinyujije mu buryo butandukanye, umuntu ashobora gutembera agenda n'amaguru cyangwa agakina imikino itandukanye irimo nk'umukino w'umupira w'amaguru, agaterura ibyuma cyangwa agakoresha amagare yo kunyonga.

Abasore bakunda gukora imyitozo ngororamubiri, irimo kwigorora ingingo z'umubiri wabo, amaboko, agatuza, umugongo, kugira ngo birinde indwara zitandukanye zirimo no kugira umubyibuho ukabije, ubundi bagira ubuzima bwiza.

Umuganga uri gufasha umurwayi we mu gikorwa cyo gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari kumurambura amaguru kugira ngo imitsi ibashe gukomera kandi ingingo z'ukuguru zigororoke, harimo nk'utugombambari, amavi cyangwa agatsitsino.

Ab'igitsina gore nabo bamaze kumenya akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri kuko usanga mu ngo aho batuye bitabira iki gikorwa, bakabikora bagorora ingingo z'umubiri wabo zirimo: amaboko, amaguru n'umugongo.

Umuntu ashobora guhura n'imvune igihe yari arimo akora igikorwa cy'imyitozo ngororamubiri, ariko hakaba imiti itandukanye ishobora kumufasha mu guhagarika uburibwe yahuye nabwo, aho ashobora kuyigura mu maduka atandukanye cyangwa akayisanga ku bigo nderabuzima akayigura, akajya ayikoresha.

Umuntu wakomereretse agahura n'imvune mu gihe yari ari gukora imyitozo ngororamubiri, akajya kwa muganga gushaka ubufasha, umuganga akamuzirikiraraho igitambaro cyabugenewe, kirinda umuntu wakomeretse kubyimbirwa, cyangwa kugira ububabare bwinshi.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, ari guterura ibyuma biremereye kugira ngo abashe kugabanya umubyibuho kandi arusheho kugira imitsi ikomeye kandi imufashe kugira ubuzima bwiza binyuze mu gusohora imyanda mu mubiri ari kubira ibyuya.

Gukora imyitozo ngororamubiri, ni igikorwa gifasha umuntu kugira imitekerereze y'ubwonko yagutse kubera ko bihuza umuntu bigatuma adatekereza ibintu byinshi cyangwa ngo yigunge, aherere ku bibazo afite gusa, ahubwo akabasha kuruhuka mu mutwe binyuze mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri yifashisha ibikoresho bitandukanye, birimo ibyo kurya, birimo ibyuma byo guterura, kugira abashe kugira umubiri ukomeye, birimo kandi ikaramu n'ikayi byo kwandikamo ibikorwa akora umunsi ku wundi.

Hari ibikoresho bitandukanye bishobora gufasha umuntu ukora imyitozo ngororamubiri, nko kugira umukasi wo gukata ibitambaro yakoresha yizirika ku gikomere, kugira itoroshi ryo kumurikisha igihe ari mu mwijima, kugira uturindantoki yambara igihe ari guterura ibyuma, ndetse n'impapuro zo kwisukura igihe yabize ibyuya.

Kunywa amazi ni igikorwa cy'ingenzi cyane kubera ko afasha umubiri gusohora imyanda, umuntu unyweye amazi agira ubuzima bwiza, impyiko ze zikora neza, atekereza neza kandi abasha kugira impumuro itanuka.

Umuntu ashobora gukora imyitozo ngororamubiri ku giti cye cyangwa akifashisha mugenzi we kugira amugorore amaguru n'amaboko, umugongo ndetse n'ibindi bice bigize umubiri we, ubundi akabasha kugororoka akagira ubuzima bwiza.

Bimwe mu bintu umuntu ukora imyitozo ngororamubiri akenera harimo amacunga, hakabamo imbuto zitandukanye zo kurya, imboga, amazi yo kunywa ndetse n'ibyuma byo guterura kugira ngo abashe kugorora ingingo z'umubiri we.

Igihe umuntu agiye kunywa amazi, asabwa kuyasuka mu kirahure gisa neza, kugira ngo arebe ko nta myanda irimo; kandi abantu bose, bagomba kunywa amazi inshuro nyinshi ku munsi, kuko amazi, abafasha mu bikorwa bitandukanye, birimo no gusohora imyanda mu mubiri.

Abana bafite imyaka mike munsi y'icumi kumanura nabo bagomba gukora imyitozo ngororamubiri kuko yabafasha gukura neza. ibi ngibi babifashwamo n'ababyeyi babo bakina imikino itandukanye, bakababwira n'inkuru zishekeje, bakabasha kwishima.

Imiti dukoresha mu kwivura mu buzima bwa buri munsi, ikorwa mu bimera gakondo, harimo ibyatsi bikurikira umuravumba, umwenya, igikarubamba, amasaka, ibitunguru cyangwa se ibicumucumu.

Umukubayoka ni icyatsi gikorwamo imiti itandukanye ivura cyane inzoka zo mu nda, zirimo za rubagimpande na za teniya ariko na none gikoreshwa mu gukorwamo imiti ivura ubumara bw'inzoka.

Ibimera gakondo bikorwamo imiti hifashishijwe amababi yabyo, hakifashishwa imbuto zabyo ndetse n'ingemwe z'ibiti zabyo, aho abantu babifata bakabisya bakabikuramo ifu, iyo fu ikazakorwamo ibinini mu nganda, aribyo bivura abarwayi kwa muganga.

Umuravumba ukoreshwa mu gukorwamo imiti ivura abantu indwara zitandukanye, indwara y'inkorora ivurwa n'amababi y'umuravumba. Indwara y'igituntu ivurwa n'umuravumba. Ibicurane bivurwa n'umuravumba. Umuravumba ufite akamaro gakomeye.

Amababi y'inzuzi yifashishwa mu gukorwamo imiti ivura indwara zitandukanye, harimo nk'inzoka zo mu nda, za rubagimpande, teniya, amibe cyangwa n'izindi, amababi kandi y'imyungu yifashishwa mu gukorwamo isabune yo koga.

Hari ubwoko butandukanye bw'ibimera bwifashishwa mu gukorwamo imiti ivura abantu indwara, hari imiti isukika ifunikwa mu macupa, ikavura abantu indwara zirimo inzoka zo mu nda cyangwa amaso, hakaba n'imiti ifatika ikorwamo ibinini hifashishijwe amababi y'ibimera gakondo.

Ibimera gakondo bitandukanye nibyo byifashishwa mu kuvura indwara runaka, ibyo bimera birimo ubunyobwa, amababi y'ibiti bitandukanye, aho babifata bakabisya ubundi bakabyifashisha bavura indwara zibasira abarwayi hirya no hino mu gihugu.

Imiti ivura abantu iri mu moko atandukanye, hari imiti y'amatembabuzi aba afunitse mu macupa yabugenewe, hakaba imiti ifunitse mu dushashi, hakaba n'imiti y'ibinini bikomeye cyane, iyi yose ikorwa mu mababi y'ibimera.

Ibimera gakondo bifitiye abantu akamaro gakomeye cyane kuko byifashishwa mu gukorwamo imiti ibavura indwara zirimo inkorora inzoka zo mu nda, umutwe udakiram, kubabara umugongo, imiti yose ikorwa hifashishijwe ibimera gakondo.

Hari imiti ivura abantu indwara zitandukanye zirimo kugira umubyibuho ukabije cyangwa kugira ibiheri byinshi mu isura, ikigo cyitwa aliyansi gikorera mu mujyi wa kigali mu nyubako yo kwa Makuza gicuruza iyi miti ikomoka mu bihugu by'amahanga mu gihugu cya Philipine.

Amababi y'ibimera gakondo yifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye ivura abantu indwara, twavuga nk'inkorora cyangwa ibicurane.

Ibimera gakondo byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye kandi ikavura indwara zirenze imwe cyangwa ebyiri aho twavuga nk'inkorora, igituntu, indwara zo mu nda zirimo n'inzoka ya amibe.

Amacupa atandukanye harimo imiti twifashisha mu kwivura indwara, hakabamo n'amavuta yo kwisiga dukoresha ya buri munsi, ndetse n'umuti w'amenyo wo gukora isuku yo mu kanwa, aho ibi byose bikorwa mu bimera gakondo.

Ikirundo k'ibyatsi biteretse ku rubaho kugira ngo babisye babikuremo ifu, ubundi babyifashishe mu kuvura abantu indwara zitandukanye zirimo inkorora, inzoka zo mu nda, indwara zifata mu muhogo, umutwe n'izindi nyinshi.

Ikimera cy'igikakarubamba, cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, kuko gishobora gukorwamo amavuta asigwa ku mubiri, akaba yakwirukana ibiheri, cyangwa se ayo gusiga mu mutwe, kugira ngo umuntu abashe kugira umusatsi urambutse neza.

Hari imiti ikorwa mu bimera gakondo ivura indwara zitandukanye ku bagabo zirimo nko kurangiza vuba, gucika intege mu gukora imibonano mpuzabitsina, bityo bagashishikarizwa kuyigura kugira ngo barusheho kunoza ibyishimo hagati y'abashakanye.

Imiti ipfunyitse mu macupa atandukanye harimo iyo gusigwa ku ruhu rw'umuntu kugira ngo imurinde amahumane, harimo amavuta yo gusiga mu mutwe, hakabamo n'imiti ifunitse mu mashashi, ishinzwe kongera intungamubiri mu mubiri w'umuntu.

Igikakarubamba cyifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, harimo nk'amavuta yo kwisiga ku ruhu, kugira ngo umuntu yirinde kugira ibiheri, kandi kivamo n'amavuta yo gusiga ku mutwe, mu musatsi kugira ngo abantu bagire umusatsi urambutse neza.

Amababi y'ibiti, ingeri z'ibiti, ndetse n'imbuto zabyo zishobora kwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, aho abantu bazifata bakazisekura ubundi bakazisya bakazikuramo amafu, ubundi bakayakoresha bivura indwara zitandukanye.

Amababi y'ibyatsi, akoreshwa mu gukorwamo imiti, ivura abantu indwara. Hari amababi akorwamo imiti ivura inkorora, hari akorwamo imiti, ivura ibicurane, hari akorwamo imiti iterwa abantu kugira ngo bagire ikinya, hari n'akurwamo imiti, ivura indwara zo mu muhogo.

Ikimera cy'igikakarubamba cyifashishwa mu gukorwamo ibintu bitandukanye, harimo amavuta yo gusiga ku ruhu, isabune yo koga cyangwa n'amavuta yo mu mutwe asigwa mu musatsi kugira ngo worohere kandi uhore ushashagirana.

Ibimera gakondo ni byo byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye ivura abantu indwara, hari ibimera bikunze kumera ahantu mu mazi magari cyangwa mu nyanja, byifashishwa mu kuvura indwara zirimo n'umutima ukunze kwibasira abantu benshi.

Ibimera gakondo, cyane ibyatsi bikunda kumera mu kabande, byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, ivura abantu indwara, harimo nk'umutwe, igifu, inkorora, indwara zo mu muhogo ndetse n'inzoka zo mu nda.

Ibimera gakondo byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, ivura abantu indwara ndetse n'amavuta yo kuyisiga, yaba ayo basiga ku musatsi kugira ngo udapfuka cyangwa ayo basiga ku mubiri kugira ngo bagire uruhu rukeye.

Ubuki bukomoka ku nzuki bwifashishwa mu gukorwamo imiti ivura abantu indwara zitandukanye, zirimo umutwe, inzoka zo mu nda, cyangwa kubyimba mu nda, bityo abantu bakwiriye gukora ubworozi bw'inzuki, kuko zifite akamaro gakomeye.

Igikakarubamba n'ibindi bimera gakondo birimo nk'umuravumba, byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye ndetse n'amavuta twisiga ku ruhu cyangwa mu mutwe, ikindi bikorwamo umuti ukoreshwa mu koza amenyo.

Imiti gakondo ishobora gukorwamo ibinini bikomeye bifatika, cyangwa se igakorwamo imiti isukika y'amazi, aho byose bifunikwa mu macupa cyangwa mu mashashi, maze bikifashishwa mu kuvura abantu indwara zitandukanye.

Igikakarubamba kifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye ivura abantu, kigakorwamo amavuta yaba ayo gusiga ku ruhu kugira ngo umuntu yirinde kugira ibiheri, cyangwa ayo gusiga mu mutwe kugira ngo umuntu agire umusatsi urambutse.

Amacunga, indimu ndetse n'ubuki byifashishwa mu gukorwamo imiti ivura abantu indwara zirimo: umwijima, inkorora, inzoka zo mu nda, na za rubagimpande cyangwa za teniya.

Abacuruza imiti gakondo bavuga yuko biteje imbere kandi ubuzima bwabo bwahindutse, babikesha akazi bakora. Ariko bakishimira n'uruhare bagira mu kuvura abantu indwara zananiranye, zirimo nk'amahumane.

Igikakarubamba ndetse n'ibindi bimera gakondo byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, harimo amavuta yo gusiga mu mutwe kugira ngo umusatsi urambuke, amavuta arinda amahumane abantu basiga ku ruhu rwabo, imiti yongera intungamubiri mu mubiri, ibi byose bikorwa mu bimera gakondo.

Imbuto zikiri ntoya ariko zikungahaye mu kuvura indwara zitandukanye, aho zihombetse mu bihoho kugira ngo bazabashe kuzitera ubundi zijye zeraho imbuto zizifashishwa mu kuvura abantu indwara.

Ibimera bitandukanye birimo imineke, inanasi ndetse n'ibihwagari, byifashishwa mu gukorwamo imiti ivura abantu indwara irimo inkorora, imiti ivura inzoka zo mu nda, kandi binakoreshwa mu kongera intungamubiri mu mubiri w'umuntu.

Imiti gakondo myinshi ibitse mu bubiko bwabugenewe buherereye ahantu hejuru ku buryo ubukonje butabasha kubugeraho cyangwa ngo yicwe n'ubushyuhe, abantu bashishikarizwa kuyigura ariko bakagenzura bakareba niba yujuje ibisabwa.

Hari amabwiriza agenderwaho kugira ngo umuntu ashinge inzu icuruza imiti gakondo yateganyijwe n'Ikigo gishinzwe gutsura Ubuziranenge bw'Ibiribwa n'imiti mu Rwanda, kitwa Rwanda FDA, icyo kigo ni cyo giteganya amabwiriza akwiye kugenderwaho kugira ngo umuntu ashinge inzu icuruza imiti gakondo.

Ubuvuzi bwa gakondo, bwateye imbere cyane kuko hari abantu basigaye barashinze amazu, acuruza imiti gakondo yigenga, akorera hirya no hino mu mujyi kandi yabiherewe uburenganzira n'ikigo gitsura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti mu Rwanda bityo bitunze abantu benshi cyane.

Ibimera gakondo bitandukanye nibyo byifashishwa mu gukorwamo imiti ndetse n'amavuta abantu bisiga, yaba amavuta basiga ku mubiri kugira ngo batagira ibiheri, ndetse n'ayo basiga mu mutwe kugira ngo bagire umusatsi urambutse neza.

Imiti itandukanye, harimo ikoreshwa mu gusukura amenyo cyangwa imiti ivura umutwe, ikorwa hifashishijwe ibimera gakondo, birimo igikakarubamba cyangwa inyabarasanya.

Ibimera gakondo bikorwamo amavuta yo kwisiga ku mubiri, kugira ngo abantu barwanye indwara zitandukanye zirimo amahumane, kandi bagire uruhu rwiza rukeye, maze bibafashe kugira imibereho myiza, kuko nta ndwara z'ibiheri barwara, kandi bakabaho neza.

Igiti gifite amababi menshi giteye ku gasozi ariko amababi yacyo akaba yifashishwa mu kuvura abantu indwara zitandukanye, zirimo inzoka zo mu nda, hakabamo za amibe ndetse n'igifu.

Ibimera gakondo bitandukanye nibyo byifashishwa mu kuvura indwara zibasira abaturage, kuko amababi yabyo aba akungahaye mu kuvura indwara zirimo inkorora, zirimo ibicurane n'izindi, abantu rero bagomba gukoresha ibimera gakondo bivura harimo nk'ibyatsi by'umuravumba bivura inkorora bakabikoresha cyane.

Amababi y'ibiti ingeri zabyo ndetse n'imizi byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye ivura abantu indwara twavugamo nk'ubunyobwa, ibitunguru na tungurusumu, bikoreshwa mu gukorwamo imiti ivura abantu indwara.

Hari imiti yifashishwa mu gukora isuku yaba iyo mu bwiherero cyangwa kumesa imyenda, aho usanga ikorwa mu byatsi n'ibimera gakondo birimo igikakarubamba bikabamo n'imiravumba n'ibindi.

Inzuzi zifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye ndetse n'amavuta yo kwisiga ku ruhu ukongeraho n'isabune ikoreshwa mu koga aho bafata amababi y'uruyuzi bakayasya ubundi bakayavanamo ifu, iyo fu bakayikoramo isabune.

Umuravumba ni ikimera gakondo kifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, cyangwa se amavuta yo kwisiga ku ruhu. Umuravumba ugira ibara ry'icyatsi kandi iyo uwubonye uhita uwibwira, kuko ugira n'amababi manini agandaye.

Umuti ufunitse mu icupa rirerire ry'umweru, uvura indwara zitandukanye ufite amagarami ijana ariko imiti irimo ikaba ikorwa ku bimera gakondo, yaba ibyatsi bya buri munsi tunyuraho cyangwa se ibiteye mu kabande.

Ibimera gakondo bikorwamo imiti ivura abantu indwara zitandukanye, binyuze mu buryo bwo gufata amababi yabyo, ubundi bakayumisha bakayasya, akavamo udufu duto dutoya, utwo dufu bakadukoramo ibinini cyangwa bakadufunika mu macupa, agashyirwa ku isoko, akagurishwa nk'umuti uvura indwara.

Ibimera gakondo byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, harimo amavuta yo kwisiga mu mutwe kugira ngo umusatsi ushashagirane, hakabamo kandi n'amavuta yo gusiga ku ruhu kugira ngo rutagira ibiheri ndetse n'imiti dukoresha kwa muganga ivura nk' umutwe cyangwa inzoka zo mu nda.

Abantu bakunda kwisiga amavuta akozwe mu bimera gakondo birimo indimu, amacunga, amashu cyangwa se imyembe. Aya mavuta usanga arinda abantu kugira ibiheri kandi ibi biti binakoreshwa mu gukorwamo umuti ukoreshwa mu gukora isuku yo mu menyo.

Abivurisha imiti gakondo ifunitse mu macupa, bagomba kugenzura mbere yo kugura umuti no kuwukoresha, bakareba niba wujuje ibisabwa, kuko hari igihe abacuruzi bagenda bakayihimbira, hakaba n'abandi bacuruzi bacuruza imiti ya nyayo yahawe ubuziranenge, ubwo rero ni amahitamo y'umuntu wivurisha uyu muti, kugenzura akareba ko wujuje ibisabwa.

Amababi y'ibimera gakondo harimo nk'ibyatsi bimera mu kabande, yifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, yaba ivura inkorora, ibicurane cyangwa indwara zifata mu muhogo wo mu kanwa k'umuntu.

Abaturage bagomba gutera ibyatsi bikungahaye mu kuvura indwara zitandukanye, birimo: igikakarubamba, umuravumba, umwenya, ibihwagari ndetse n'ibitunguru, kugira ngo bajye babyifashisha, bivura indwara zitandukanye.

Abaturage batuye mu bice by'icyaro, usanga bajya mu bihuru gusoroma imiti kugira ngo bivure kuko badakunze kujya kwa muganga cyane, ahubwo bizera yuko ibimera gakondo na byo byakoreshwa mu kuvura indwara nyinshi.

Igikakarubamba kifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, harimo amavuta yo gusiga ku ruhu, hakabamo n'ayo gusiga mu mutwe, ikindi kandi hari n'ibimera gakondo bindi byifashishwa mu gukorwamo imiti ikungahaye mu kongera intungamubiri mu mubiri w'umuntu.

Inzuzi zifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, ivura abantu indwara zirimo inkorora, igituntu n'izindi zibasira umuhogo w'umuntu kandi zeraho n'ibihaza abantu bakunda kurya, bakagira ubuzima bwiza.

Amababi y'umuravumba, ibibabi by'indimu ndetse n'andi mababi y'ibindi bimera, yifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye ivura abantu indwara kandi igacuruzwa kwa muganga cyangwa no mu bigo nderabuzima.

Ibimera gakondo byifashishwa mu gukorwamo imiti iboneka kwa muganga kandi ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, zirimo inkorora, inzoka zo mu nda, kuvura ibisebe cyangwa ibikomere.

Ikimera cy'umuravumba cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ndetse abantu benshi baragikoresha, kuko kivura indwara zirimo inkorora, zirimo anjine zo mu muhogo, zikabamo n'ibicurane, abaturage benshi bo mu byaro bakunda kugikoresha cyane.

Ibimera gakondo bikorwamo amavuta avura indwara zitandukanye zirimo umugongo, kubabara mu nda, mu rubavu cyangwa ku rutugu aho iyi miti ikorwa mu bimera birimo umuravumba, umwenya ndetse n'inyabarasanya.

Ibimera gakondo, byifashishwa mu kuvura abantu kuko bikorwamo imiti itandukanye. Hari abaturage bajya gusoroma ibyatsi mu bigunda no mu bihuru, aho biba byarameze kugira ngo babyifashishe bivura indwara zirimo nk'inkorora.

Ibimera bitandukanye biteye hirya no hino ku gasozi, ni bimwe mubyo twifashisha mu kwivura indwara zitandukanye, duhekenya amababi yabyo cyangwa tukayatunganya hagakorwamo imiti itandukanye, ikoreshwa kwa muganga mu kuvura abarwayi.

Ibimera gakondo bitandukanye, amababi yabyo ndetse n'imizi ni byo byifashishwa mu gukorwamo imiti ivura abantu, iboneka kwa muganga, mu bitaro, mu bigo nderabuzima, ku bajyanama b'ubuzima cyangwa no mu mazu y'ubucuruzi bw'imiti yigenga.

Ibimera gakondo bifitiye abantu akamaro gakomeye cyane, inanasi zifashishwa mu gukorwamo ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri bipfunyikwa mu mashashi, bigashyirwa ku isoko bikagurishwa.

Amababi y'ibimera gakondo niyo yifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye ivura abantu, harimo nk'ibinini tugura kwa muganga biba bipfunitse mu macupa ariko biba byabanjwe gukorwa mu mababi y'ibimera gakondo.

Ibimera gakondo birimo igikakarubamba, imiravumba ndetse n'umwenya, ni ibyatsi byifashishwa mu gukurwamo imiti ivura abantu indwara zirimo amibe, rubagimpande ndetse n'izindi zo mu nda.

Ibimera gakondo birimo imiravumba, imyenya, ibitunguru, tungurusumu, ipavuro n'ibindi byo byifashishwa mu gukorwamo imiti ituvura yaba iyo dusanga kwa muganga cyangwa mu mazu y'ubucuruzi yigenga.

Tungurusumu zifashishwa mu kuvura abantu indwara zirimo inzoka zo mu nda, amibe cyangwa kurwara umugongo, zifashishwa kandi mu guteka ibiryo abantu bakunze kurya bya buri munsi kuko zikungahaye mu kongera intungamubiri.

Ibimera rwatsi byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, ivura abantu indwara yaba abana bakiri batoya, abantu bakuru bose irabavura. Imiti gakondo ivura indwara zirimo inzoka zo mu nda, umutwe n'inkorora.

Igitunguru, indimu, byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye ivura abantu indwara, zirimo igituntu, inkorora, indwara zibasira mu muhogo n'inzoka zo mu nda.

Ibimera gakondo birimo n'ibyatsi bya buri munsi tunyuraho, ni byo byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, harimo n'iyo dukoresha tuyikuye kwa muganga cyangwa tuyiguze mu mazu yigenga.

Umuti ukungahaye mu kongera intungamubiri mu mubiri w'umuntu, ukorwa n'ikigo mpuzamahanga cyitwa Alliance cyo mu gihugu cya Philipine ku mugabane wa Aziya, aba kandi bafite n'icyicaro mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda mu nyubako yo kwa Makuza.

Ibimera gakondo bitandukanye birimo ibyatsi rwatsi ni byo byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye ivura indwara zirimo inkorora, cyangwa ibiheri byo mu maso. Aho bafata amababi y'ibi byatsi bakayasya bagakoramo ifu, cyangwa bagakuramo amatembabuzi agafunikwa mu macupa amaze gutunganwa agashyirwa ku isoko.

Ibimera gakondo dusanga hirya no hino mu bihuru no mu bigunda, ni byo byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, ivura abantu indwara, aho iboneka kwa muganga cyangwa abaturage bakajya kuyisoroma, bayisanze mu bihuru no mu bigunda.

Imboga rwatsi ziganjemo amashu, imboga za dodo, n'izindi zifashishwa mu gutekwa, kugira ngo zirinde abarwayi indwara zitandukanye, zirimo kutagira amaraso menshi. Abantu bashishikarizwa kurya imboga, kuko zongera amaraso mu mubiri.

Ibimera gakondo byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye. Abaturage bakunze kuba bazi aho biteye bagafata n'iya mbere mu kujya kubihiga, igihe bahuye n'indwara runaka kugira ngo bahite bazivura mu buryo buboroheye.

Umuti wa shampoo ukunze gukoreshwa mu gusukura umusatsi kugira ngo urambuke kandi ubengerane, ukaba ukorwa hifashishijwe ibimera gakondo bitandukanye, birimo igonde cyangwa igikakarubamba.

Amababi y'ibimera gakondo ni yo yifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye ivura abantu indwara. Ashobora gukorwamo ibinini cyangwa bakayafata bakayasya bakayavanamo amatembabuzi, ashobora kuvura indwara zitandukanye.

Ibimera gakondo bitandukanye biboneka hirya no hino mu bigunda cyangwa ibihuru, ni byo byifashishwa mu gukorwamo imiti ivura abantu, inzoka zabazengereje zo mu nda, umutwe udakira, ibicurane cyangwa Malariya.

Ubuhinzi bw'igikakarubamba bukomeje gutera imbere kuko abantu bamaze kuvumbura agaciro kacyo, kuko gikorwamo imiti myinshi itandukanye, basigaye bahinga igikakarubamba ku buso bunini, bakifashisha n'imashini zo kubibagara kugira ngo bazabigurishe.

Ibimera gakondo ni byo byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye ivura abantu, cyangwa se amavuta yo kwisiga ku mubiri ndetse no mu musatsi, aho usanga nk'igikakarubamba kifashishwa mu gukorwamo iyi miti.

Ibimera gakondo byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye ivura abantu indwara, zirimo nk'inkorora, niyo mpamvu abantu bashishikarizwa kubitera mu ngo, bakajya babivomera kugeza bikuze kugira ngo bazabikuremo umuti.

Igikakarubamba kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zirimo inzoka zo mu nda ariko na none gikoreshwa mu gukorwamo amavuta, yaba ayo gusiga ku mubiri kugira ngo umuntu atagira ibiheri ku ruhu cyangwa gusiga mu mutwe kugira ngo umusatsi urambuke neza.

Amababi y'ibiti iyo atunganyijwe neza, binyuze mu kuyasya, abasha kuvamo umuti uvura abantu indwara zitandukanye, twatanga nk'urugero rw'igiti cy'umuravumba, aho amababi yacyo, yifashishwa mu kuvura inkorora.

Ibimera gakondo, ibyatsi, ibiti binini bikura, nibyo bivamo imiti ya buri munsi twivurisha. Umuntu ashobora kuba arwaye inkorora, arwaye umutwe, ntibirindire yuko ajya kwa muganga ahubwo agafata ikimera giteye hafi aho ngaho, agahita yivura ku buryo bworoshye. Twatanga urugero nk'icyatsi cy'umuravumba cyifashishwa mu kuvura inkorora.

Amavuta ya shampo akoreshwa mu koza umusatsi akorwa hifashishijwe ibimera gakondo bitandukanye birimo igikakarubamba, bikabamo igonde ndetse n'ibindi byatsi bikunda kumera mu bishanga.

Ibimera gakondo bitandukanye, harimo n'igikakarubamba, byifashishwa mu gukorwamo imiti, ndetse n'amavuta yo kwisiga. Hari amavuta avura ibiheri cyangwa amahumane, akorwa mu gikakarubamba.

Inzuki ni udusimba dutoya dukunze kuba mu ishyamba no mu biti, ariko tukaba dukora ubuki bwifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye ivura abantu indwara z'umwijima, izibasira mu muhogo cyangwa inzoka zo mu nda.

Hari imiti itandukanye ivura umubyibuho ukabije ku buryo umuntu uyikoresheje abasha gusigara ananutse kandi afite umubyibuho uringaniye. Hari ikigo cy'abanyafilipine gikorera mu mujyi wa Kigali, mu nyubako yo kwamakuza, gicuruza iyi miti cyitwa Alliance.

Igikakarubamba cyifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, irimo amavuta yo kwisiga ku ruhu kugira ngo rutazana ibiheri, cyangwa ngo rubyimbirwe, igikakarubamba kandi gikorwamo amavuta yo gusiga mu musatsi kugira ngo udapfukagurika.

Igikakarubamba ni ikimera gakondo ariko kifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, irimo amavuta yo gusiga mu mutwe kugira ngo umusatsi w'umuntu urambuke neza, cyangwa se amavuta yo gusiga ku ruhu kugira ngo umuntu yirinde kugira ibiheri.

Ubucuruzi bw'imiti ivura abantu indwara bushingiye ku miti gakondo, bukomeza kwiyongera uko bwije n'uko bukeye kuko usanga abantu bafungura imiryango mishyashya buri munsi, bagahamagarira abantu kuza kwivuza kuko imiti yabo ivura abantu.

Abaturage n'abayobozi basuye ubuhinzi bw'igikakarubamba kugira ngo bashishikarize abaturage kukibungabunga no kucyitaho kuko gikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zirimo inzoka zo mu nda kandi kigakoreshwa mu gukorwamo n'amavuta yo kwisiga.

Inyabarasanya ni ikimera gakondo gikunda kumera imusozi cyangwa se mu kabande, kikaba cyifashishwa mu gukorwamo imiti, cyane cyane imiti yomora cyangwa ivura ibikomere abantu bakunze guhura na byo.

Ibimera gakondo bitandukanye birimo igikakarubamba n'imiravumba, ni byo byifashishwa mu gukorwamo isabune yo koga ya buri munsi, twifashisha mu gukora isuku, yaba iyo ku mubiri wacu cyangwa kumesa imyambaro twambara.

Amababi y'igiti niyo akoreshwa mu kuvura abantu kuko akorwamo imiti itandukanye, yaba ivura malariya, ivura inkorora, inzoka zo mu nda, ivura igituntu n'izindi ndwara.

Ibimera gakondo ni byo bikorwamo imiti itandukanye, yaba iyi ivura abantu inkorora, inzoka zo mu nda, ndetse bifite n'umwihariko yuko bikorwamo imiti ishinzwe kongera intungamubiri umubiri w'umuntu.

Ibimera gakondo, ni byo byifashishwa mugukorwamo imiti itandukanye, aho dufata amababi yabyo tukayasya, tukayakoramo ifu, izo fu zigafunikwa mu macupa, agashyirwa ku isoko hirya no hino, ariko habanje kugenzurwa niba uwo muti wujuje ubuziranenge.

Alliance ni ikigo cy'abanyamahanga ku mugabane wa Aziya muri Philipine ariko kikaba gifite n'ishami mu mujyi wa Kigali mu nyubako yo kwa Makuza, gicuruza imiti itandukanye harimo iyifashishwa mu kuvura abantu indwara zirimo ibiheri, kugira umubyibuho ukabije n'izindi nyinshi.

Ibimera gakondo bitandukanye, harimo amababi y'ibyatsi, indimu umucyayicyayi, umuravumba, ndetse n'ibibabi by'umuko, byifashishwa mu kuvura abantu indwara zitandukanye harimo n'inkorora.

Amababi y'ibimera gakondo atunganywa n'inganda zabugenewe ubundi akavanwamo imiti ikoreshwa mu kuvura abarwayi indwara zirimo inkorora, zirimo igituntu, zirimo n'amahumane akunda kwibasira uruhu rw'abantu.

Ibimera gakondo birimo n'igikakarubamba, byifashishwa mu gukorwamo imiti ndetse n'amavuta abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi. Hari abakenera gusukura umusatsi wabo, bagakoresha amavuta yo mu gikakarubamba, hari n'abakenera ibiryo byongera intungamubiri, bagakoresha imiti ikomoka ku bimera gakondo birimo n'ibihwagari.

Ibimera gakondo birimo tangawize, umuravumba ndetse n'umwenya byifashishwa mu gukorwamo imiti ivura abantu indwara zitandukanye harimo inkorora, ibicurane, indwara zifata mu muhogo cyangwa se inzoka zo mu nda ikindi kandi ibi bimera bikorwamo n'imiti irimo nk'ibinini byifashishwa mu kuvura abarwayi kwa muganga.

Igikakarubamba ni ikimera gakondo kifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye ivura abantu indwara, harimo izo mu nda, umutwe cyangwa se indwara zibasira mu muhogo, igikakarubamba kandi gikorwamo amavuta avura amahumane.

Abivurisha n'abakoresha imiti gakondo, bagirwa inama yo kubanza bakagenzura kugira ngo barebe niba yujuje ubuziranenge kuko byagaragaye yuko hari abacuruzi bagenda bakihimbira imiti ishobora no kugira ingaruka ku bayikoresha.

Umudamu uhagaze mu kigunda ari gusoroma amababi y'ibyatsi kugira ngo ayakoremo umuti yivure indwara zitandukanye arwaye, harimo nk'inkorora, umutwe, inzoka zo mu nda, cyangwa se kuribwa mu muhogo.

Umuravumba wifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, iboneka kwa muganga kuko amababi yawo akorwamo ibinini, bivura inkorora, igituntu, indwara zifata mu muhogo ndetse n'izindi zibasira ibice byo mu nda.

Ibimera gakondo byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, yaba iyi ivura abantu indwara zirimo amahumane cyangwa se inzoka zo mu nda cyangwa se bigakorwamo amavuta yo kwisiga ku ruhu rwacu cyangwa ku musatsi.